Umwana uri guse wambaye agapantaro k'umutuku n'agapira kajya gusa umuhondo yagiye kuvoma amazi kuvomero rusange, yashyizejere kandi hejuru ari kuvoma ndetse hafi hari izindi ebyiri zateretse zitaravoma, hirya atina ziri kugaragara amakoma.

Umugabo wambaye agapira gasa icunga, ari kumwe n'umwana nawe wambaye agapira gasa icunga. Aho yamushyize ku munzani, ari kumupima ngo arebe ko imikurire ye igenda neza. Inyuma ye hari umuntu utagaragara neza, wambaye ipantaro isa umukara.

Ishusho cyangwa se ifoto y'intoki z'umuntu zambaye udupfukantoki, zifite akantu k'akuma kajya kumera nk'urwembe ziri kugakatisha ahantu, bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

abana bagiye batandukanye baje gushaka amazi mu majerekani agiye atandukanye, uko bigaragara aba bana ni abo mu cyaro kuko bambaye imyenda idafite isuku.

Ikigo cyita ku buzima bw'abana ku isi kitwa UNICEF, cyanditse mu mabara y'umweru, n'inyuma harasa ubururu, mu kirangantego cyacyo harimo amagambo harimo umugore, ndetse n'umwana bari kureba bishimye.

Abantu benshi batandukanye bateraniye mu nama bakaba bicaye bakikije ameza buri wese imbere ye hakaba hari akantu kameze nk'agasahani, hari na porojegiteri iri kwerekana ibyo bari kuvugaho imbere ku gikuta.

Ku ivomero rusange, aho bavoma babanje gupomba, amazi kugira ngo aze. Hari abana bagera muri bane bagiye kuvoma. Umwe ari gupomba, abandi bari kurebera. Kuri uwo mugezi bateretseho ijerekani isa umuhondo.

Umwana wambaye ikanzu y'isarubeti, mo imbere yambariyemo agapira k'umweru, ahagaze imbere y'amashuri, bigaragara ko ari mu ishuri, imbere ye hari ikidobo cyanditseho ngo UNICEF, ari kunywa amazi ku mugezi wa robine, ni byiza rero kunywa amazi ku mwana ukiri muto,

Abantu bicaye bigaragara ko bari mu nama, yiga ku bijyanye n'ubuzima, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye agashati k'igitenge n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye ipantaro y'umukara n'ikote n'ishati ijya gusa umutuku, afite ikayi mu ntoki n'ikaramu bigaragara ko ari kubigisha.

Umubyeyi wajyanye umwana kwa muganga, umwana akaba ari kumwe na muganga ari kumusuzuma ngo arebe indwara afite. Ni byiza cyane kujyana umwana kwa muganga hakiri kare atararemba.

Abantu babiri b'abana bateruye indobo isa icyatsi, aho umwe agiye kuyikora undi bamaze kwivomeramo amazi kuri uyu mugezi inyuma hari akazu gasakaje ibyatsi, ndetse n'agasozi keza cyane kariho ibyatsi bigiye bitandukanye.

Umubyeyi wajyanye umwana kumukingiza kwa muganga, uwo mubyeyi yambaye agapira k'ubururu gafite imirongo y'umweru n'umukara, umuganga ari kumukingira yambaye itaburiya y'umweru, ni byiza gukingiza umwana hakiri kare kuko bimurinda kurwaragurika mu gihe amaze gukura.

Umugore wambaye agapfukamunwa yiteze igitenge aho ari mu nyubako bigaragara ko itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi kuko harimo ibikoresho byose bigiye bitandukanye, ibikuta birasa umweru ndetse imbere ye hari na ekara itari kwaka y'umukara.

Abantu bicaye bateraniye hamwe b'abaturage, imbere yabo hari umuntu uhahagaze wambaye itaburiya, ufite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko ari umuvuzi cyangwa umuganga, bari muri shitingi itatseho amabara y'idarapo ry'u Rwanda, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Abantu batandukanye bicaye bari mucyumba bari gukora inama. Aho buri wese imbere yateretse amazi, ameza afite udutambaro tw'amabara y'umweru ndetse n'ubururu buri wese imbere ye hari agapapuro kaba kanditseho amazina ye kugira ngo baze batamubajije izina rye.

Abagore bagiye batandukanye bambaye amataburiya y'ubururu bakaba ari abajyanama b'ubuzima, aho bari ahantu hari ishitingi isa umweru bari gukoma amashyi bigaragara ko ari mu gihe cya morari bishimye, imbere yabo hari ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi by'umucaca byiza.

Abajyanama cyangwa se abaganga benshi bateraniye hamwe, aho bambaye amabaji y'akazi, bari kwifotozanya n'umugabo w'umuzungu, wambaye ikositimu ry'umukara ndetse na karuvati n'agashati k'umweru, inyuma yabo hari ibiti bitanga amahumbezi biri kureguka.

Umugabo uri kuvoma ari gupomba yambaye imyambaro y'ubururu, imbere ye hari amajerekani menshi ndetse n'indobo byaje kuvoma, hari abandi bantu ku mpande ba bana bahagaze bategereje kuvoma bari kumwitegereza uko ari kubikora.

Ni ku ivomero rusange aho hari abaturage bagiye batandukanye, harimo umumama ufite umutaka, n'undi uri kuvoma, n'akandi kana gatoya gafashe ku mugezi wo hino, hari abandi bana benshi baje gushaka amazi.

Abantu benshi bari mu cyumba mu nama, bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umukara, harimo n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku n'undi wambaye itaburiya y'umweru n'ikanzu cyangwa ijipo isa umutuku.

Abantu batandukanye barimo abaganga bakaba bahagaze imbere bari kwifotoza, inyuma yabo hari inyubako y'ikigo nderabuzima, handitseho ngo girubuzima, iri mu mabara y'ubururu ndetse ifite imireko isa umutuku.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agashati k'umweru ari guseka aho afashe ku ijerekani, ari imbere y'umugezi, biragaragara ko amaze kuvoma, ari kwishimira yuko yegerejwe amazi none akaba ayabona atagombye kujya kure kandi ku giciro gito.

Aha turahabona ikintu cy'uruziga kiri mu mabara y'icyatsi, gikikijwe n'ibyuma by'umweru ndetse si kimwe ni bitatu. Hirya hari ibiti byinshi. Bigaragara ko hano hatangirwa ibikorwa runaka bya serivisi.

Abantu benshi bateranye cyane cyane b'abana, bambaye udupira tw'ubururu, bicaye ahantu hari ibitambaro by'umweru, umukara, icyatsi ndetse n'umutuku, bigaragara ko bari kuganira bishimye cyane, imbere hari abandi bantu baricaye bambaye amakositimu, ibikuta by'inzu birasa umuhondo.

Abana bambaye impuzu mpuzankano za kake abakobwa n'abahungu, bari kuvomera amazi imigezi ya robine mu nbobo zisa umuhondo, ndetse hari n'akavido gasa umweru, inyuma yabo hari ibiti by'imikindo n'inyubako y'umweru yo itagaragara neza.

Umwana uri kuvoma ndetse hari n'umunyeshuri hejuru y'umugezi uri kumufungurira amazi, haruguru hari abandi banyeshuri bavuye kwiga, bambaye imyambaro ya kaki n'ubururu.

Abana babiri basutamye imbere y'umugezi wa robine batezeho ibiganza amazi arikugwa ku ntoki zabo, bigaragara ko bishimiye no kuba bakora muri ayo mazi, si byiza rero ko abana bakinira ku mazi kuko baba bashobora no kuyanduza.

Inyubako nziza cyane ahatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hari mu ishusho ry'uruziga, aho hari utwuntu abantu banyuraho bari kuhaza, ku mpande hari urusiro rwubamo inzu nyinshi zigiye zitandukanye.

Umugore wambaye agapira k'ubururu n'agapfukamunwa, arikoza umwana we intoki wambaye kaki akoresheje amazi meza n'isabune. Inyuma yabo hari ibiti byinshi bifite amababi asa icyatsi atandukanye.

Umwana w'umukobwa wambaye agasengeri, aho yagiye kuvoma ahantu mu iriba, akaba ari kuvoma amazi yadubitsemo ikijerekani, ayahagazemo. Ibi si byiza kuko aya mazi ntabwo aba afite isuku, ashobora gutera indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Umubyeyi wagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange, afite amajerekani asa umuhondo ndetse imbere ye hari icyapa cy'ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura mu Rwanda WASAC.

Abantu batandukanye bifotoreje imbere y'inyubako iberamo inama harimo abagore babiri bambaye imyambaro y'ubururu bigaragara ko ari abaganga, inyuma yabo hari iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye yanditseho ngo sale de komferense.

Umugabo uhagaze ku ruvugiro ruriho amagambo asa umweru yanditse ahasa ubururu, hirya ye hari intebe eshatu nta muntu wicayeho, inyuma ye hari ikirangantego kigaragaza ibyo barikwigaho muri iyo nama.

Umubyeyi wajyanye umwana kumuvuza kwa muganga, uwo mubyeyi yambaye umupira wa pinki afite n'imisatsi ya menshi, uwo mwana muganga amufasheho ariguseka yambaye itaburiya y'umweru arikumuvura.

Umwana usutanye w'umukobwa uri guseka, aho ateze ibiganza ku mugezi uri kuzana amazi make, bigaragara ko agiye kuyanywa, hirya hateretse amajerekani yamaze kuvoma asa umuhondo, ubururu ndetse n'indi imwe ifite umupfundikizo w'umutuku.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama kizwi nka sale, hahagazemo umugabo wambaye itaburiya n'inkweto z'umweru n'itaburiya irasa umweru. Icyumba gifite inkuta zisa umweru n'inzugi zijya gusa shokora, ari kubakoresha inama ababwira uburyo imitangire ya serivisi z'ubuvuzi imeze.

Umwana wambaye agashati k'icyatsi n'agakabutura k'umukara, ateze amaboko ku mugezi wa robine ufite impombo zisa ubururu, hirya ye hari indobo, hirya ye hari n'indi ndobo zisa ubururu, hari n'ibyatsi bikiri bigufi biri kuzamuka hirya ye.

Kandagira ukarabe ni uburyo bwashyizweho na Leta y'u Rwanda, kugira ngo umuntu wese uvuye mu bwiherero, azajye ahita akaba intoki, hanyuma avane umwanda ku ntok ze, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Aha ni ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, aho hari abaganga bambaye impuzankano zisa ubururu ndetse n'abandi bari imbere yabo bambaye amakoti, inyuma yabo hari umugabo ufite camera ndetse afite n'umudigi yambaye n'ikositimu na karuvati ari kubafotora.

Umwana wambaye ubusa hejuru aho ari kunywera amazi ku gihombo akoresheje intoki, hirya ye hari intebe isa ubururu, inyuma ye hari abantu batandukanye b'abagabo n'abagore, imbere hari icyapa cy'ikigo cyita ku buzima bw'abana ku isi unicef.

Umwana muto cyane wambaye ishati ya buresiyeri n'agapantaro kajya gusa umukara, akaba ari imbere ya kandagira ukarabe y'indobo isa umweru n'ubururu, akaba ateze amazi ari gukaraba, hirya ye hari urugo rwubakishije ibifunzo. Ni byiza kugira isuku ukiri mutoya.

Abantu babiri bicaye ku meza y'imbere yabo hateretse amazi n'inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo Repubulika ya Sudani y'epfo ndetse n'idarapo y'icyo Gihugu, aho bari mu nama yita ku migendekere ya serivisi z'ubuvuzi.

Abantu bateraniye hamwe, aho bafite indangururamajwi mu ntoki, uyifite ni umugore, bose bari kumwitegereza kandi buri wese imbere ye hatereretse amazi, imbere yabo ku meza hari ibitambaro by'umukara, inyuma yabo hari amarido y'ubururu bwijimye.

Umuntu wagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange, aho ari umugabo wogoshe, akaba yambaye agashati k'umweru ndetse n'umutuku, arikuvoma amazi ayavomera mu kijerekani, iruhande rwe afite n'akandi kavido.

Abantu batandukanye bagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange ryagiye rishyirwaho mu Rwanda, aho hari umugabo wambaye ingofero y'abatekinisiye, aho yaje kureba niba uwo mugezi ukora neza, ukaba uri ku nkingi isa ubururu, ufite robine eshatu ziri kumena amazi.

Abantu benshi cyane bagiye gushaka amazi ku ivomero rusange, hari amajerekani asa umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara, hari amabase, hari n'abantu benshi cyane baje gushaka ayo mazi, hirya hari urusisiro ruteyemo ibiti by'inganzamarumbo.

Umugore ufite indobo y'icyatsi yatereretse mu kintu kimeze nk'ikibindi, ari kuvoma hijya ye hari abandi bagore babiri bafite igipombo cy'umugezi, bari kugenda bapomba kugira ngo abone amazi.

Umwana wari kwa muganga aho hari umuganga wambaye udupfumbatoki tw'umweru, ishati ya karokaro ndetse n'itaburiya y'umweru, akaba agiye kumukingira urukingo kugira ngo atazarwara indwara zitandukanye.

Abana bambaye udupira tw'ubururu, benshi cyane bafatanye ku rutugu, utwo dupira tukaba twanditseho yunisefu. Ikigo cyita ku buzima bw'abana ku Isi. Bari imbere y'inyubako ifite inzugi z'ubururu n'amatafari ahiye, bigaragara ko ari amashuri.

Abagore babiri bunamye cyane bari kunywa amazi ku ivomero rusange bakoresheje intoki, bakaba bafite n'amajerekani buri wese imbere ye. Inyuma yabo hari umukobwa uri kuvomesha wambaye ishati y'umutuku ndetse n'agapfukamunwa n'umusatsi wa kizungu. Hirya hari ibiti birebire cyane.

Kwivomero rusange hamwe umuntu avoma abanje gupompa. Hari umwana uri gupompa yateretse ijerekani ariko amazi ntabwo ari kujyamo neza, hari n'abandi bana bagera muri batatu bari kumureberera aho kumufasha. Inyuma hari ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi by'icyatsi

Umugabo n'umugore bicaye ku gatebe banezerewe, umujyanama w'ubuzima yaje kubasura yambaye itaburiya y'ubururu, afite impapuro ziri ku ntebe ndetse afite n'ikindi cyapa mu ntoki ari kubereka uburyo baboneza urubyaro na bo barakurikiye.

Abantu bicaye bari mu nama, harimo ushinzwe umutekano wambaye impuzankano z'icyatsi uzwi nk'umudaso. Inyuma yabo hari ikigo nderabuzima cyangwa se posite do sante, ivuriro ry'ibanze rifite amarangi asa ubururu handitseho icyapa kivuga ngo ''gira ubuzima''.

Abantu bagera muri barindwi bafashe ikirangantego cy'ikigo cyita ku buzima bw'abana ku isi UNICEF, bambaye udupira tw'ubururu ndetse n'icyo kirango kiri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Abantu batandukanye bahagaze hamwe, bamwe bahagaze hasi, abandi bahagaze hejuru, bari kwifotoreza imbere y'ikirango kiri mu mabara y'umweru n'ubururu kiho amagambo adaboneka neza, iburyo bwabo hari idarapo ya Repubulika y'u Rwanda.

Ahantu abantu bari gupakira imifuka igiye itandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Hari kugaragara abagore babiri bateruye umufuka, aho bagiye kuwuhereza umugabo ngo awupangane n'iyindi.

Abana benshi cyane bari koga mu mazi, bambaye ubusa bari kugenda boga rwose, ubona bishimye kandi bizihiwe, ni byiza ko umwana yajya ajya koga, kuko iyi na yo ni siporo mu zindi, bituma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibiganza by'umuntu biteze intoki ku mugezi wa robine, amazi ari kuza bigaragara ko ari gukaraba. Ni byiza cyane gukora isuku kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Leta na yo yegereje abaturage amazi ku buryo isuku igomba kwitabwaho.

Umusaza wicaye kwa muganga aho ari kwiyumvira, yambaye imyambaro y'umukara ndetse n'ingofero imisatsi ni imvi, ari kumwe n'undi muntu uri hirya wambaye akantu k'umweru aho muganga ari gupima umuvuduko, hari abaganga benshi bambaye amataburiya y'ububururu ndetse n'umweru n'amadarubindi.

Abana bambaye impuzankano, bari gukaraba n'amazi meza n'isabune, ni batatu imbere yabo n'ubundi hari robine eshatu, bari kwisiga isabune kugira ngo babanze bavane imyanda mu mubiri noneho bashyire kuri robine imyanda ihita ivaho ijyana n'isabune.

Abantu bambaye udupira dusa ibara rijya gusa umuhondo bateraniye hamwe, harimo n'abaporisi bashinzwe umutekano, bari ahantu bari gutera akarima k'igikoni, aho bari guteramo imbuto n'imboga zigiye zitandukanye.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'umuhondo n'umukara, aho bazamuye ibiganza bari mu nyubako, inyuma yabo abantu babiri batandukanye, hari abagore batatu n'abagabo babiri, muri abo bagabo harimo umuzungu wambaye ingofero.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane, bahagaze bari kuganira, bambaye imyenda iri mu mabara umutuku, amakositimu y'icyatsi ndetse n'umweru, bari imbere y'ahantu hari shitingi z'umweru ndetse n'inyubako isakaje amabati y'umutuku, bigaragara ko ari ibiro by'Umurenge.

Inyubako nyinshi cyane zitandukanye, mo hagati harimo inyubako yubatswe mu buryo bw'uruziga, bigaragara ko ari inzu igezweho, ikikijwe n'ubusitani bwiza, ndetse n'andi mazu menshi cyane.

Umwana wambaye agashati ka gisirikari n'ipantaro y'umutuku n'udukweto twa bodaboda tw'umutuku. Ateze intoki kuri robine ari kunywa amazi. Munsi hari indobo isa ivu ari kuvomeramo ayo mazi. Hirya hari inyubako ifite inkingi z'ubururu n'umweru, hari n'ibiti bigiye bitandukanye bitanga amahumbezi.

Umubyeyi ucigatiye umwana, akaba afite akamvirope mu ntoki karimo ibyangombwa. Inyuma ye hari abandi bantu benshi cyane bahuriye muri iki cyumba gitangingwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo abagabo n'abagore bafite abana. parafo zirasa umweru amatara araka mu ibara ry'umweru.

Ibyuma bisa ubururu n'umukara byifashe nka kimyamoto, ariko si kizimyamoto. Ahubwo ibyo ibyuma byifashishwa kwa muganga, aho biba bitanga umwuka ku barwayi bawuguze. Nabo ubuzima bwabo bukarushaho kumera neza.

Umumama wajyanye umwana kumuvuza umwana akaba ari kumureba, yambaye agakwazu k'icyatsi ari kureba umugabo uri kumuvura hirya yabonye yicaye umuganga uri kwandika ku madosiye.

Abantu batandukanye bahagaze mu rubaraza rw'inyubako isize amarangi y'ubururu, akaba ari ikigonderabuzima batanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Uko bigaragara aba bari kwifotoza.

Abantu bagera muri babiri umwe ni umwana undi ni umugabo wambaye isengeri y'umukara n'agakabutura k'umweru. Uwo wambaye isengeri y'umukara arunamye imbere ye hari indobo y'ubururu na ho uwo mwana ateruye akabinika k'ubururu mu ntoki.

Abana babiri bicaye mu ishuri, umwe ari guseka yazamuye urutoki hejuru bigaragara ko afite igisubizo, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara gishushanyijeho ikintu cy'uruziga gifite udukoni mu mabara y'umweru ndetse yubakishije n'amatafari ahiye.

Abantu benshi bateraniye hamwe kwa muganga, aho hari ababyeyi bakikiye abana mu ntoki, bigaragara ko baje gushaka serivisi zo gukingiza abana babo indwara zigiye gutandukanye.

Abantu batandukanye bari mu nama, bamwe barahagaze abandi bari mo imbere muri shitingi y'umweru, bari imbere y'inyubako ifite ibikuta bisize amarangi y'umweru ndetse hasi hubakishije amabuye n'urugi rw'icyatsi hakaba hari idarapo ry' u Rwanda.

Umubyeyi wajyanye umwana kwa muganga, none muganga mwiza w'inzobe wambaye itaburiya y'umweru, ari kureba uko mwana ameze, amupima ngo yumve ko umwana afite ubuzima bwiza buzira umuze. Ni byiza rero kuzana umwana kumuvuza hakiri kare mu gihe uba ukibona ibimenyetso bw'umubaza.

Umugore wambaye iribaya ari guseka yajyanye umwana kwa muganga. None muganga ari kumwitaho ari kumuha umuti. Ni byiza rero kuzana umwana kwa muganga hakiri kare, mu gihe ubonye ibimenyetso mpuruza by'uburwayi.

Ubuvomero rusange aho hari umwana wagiye kuvoma w'umukobwa, afite indobo z'imyeru zigera muri eshatu, arunamye aho agiye gutega indobo ku mugezi, akabona kujya gupomba ngo amazi aze.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu Rwanda WASAC, kiri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse kikaba kiri ahantu hari amabara y'umweru, iki ni ikigo gitanga amazi ku banyarwanda.

Abaganga bagera muri batanu, harimo abakobwa babiri ndetse n'abasore batatu, umukobwa umwe yambaye amadarubindi, yambaye n'udupfukantoki bigaragara ko batanga serivisi z'ubuvuzi.

Ababyeyi ndetse n'abagabo bambaye imipira y'umutuku, benshi bambaye udupfukamunwa aho hari umubyeyi umwe ufite umwana, hakaba hari ngabo uri kumwazamura ngo arebe uko ameze mu kanwa.

Umugore wagiye kuvuza umwana kwa muganga none muganga ari kumwitaho ari kumuha imiti. Ni byiza cyane kwihutira kujyana umwana kwa muganga mu gihe umubonanye kimwe mu bimenyetso mpuruza by'indwara uba warabwiwe n'abaganga igihe umwana aba akivuka.

Umugabo w'umujyanama w'ubuzima ari kumwe n'umugore aho umugabo yambaye itaburiya y'ubururu ari kumwereka igishushanyo kiriho abana babiri, aho ari kumwigisha uburyo bwo kuboneza urubyaro ko byaba byiza aboneje urubyaro kuko byatuma abana be batamugora akabyara bake ashoboye.

Abantu batandukanye barahagaze bambaye udupira tw'umweru hari n'undi wambaye akajiri n'agapira k'umutuku wicaye ku ntebe, bose bari kumureba bigaragara ko ashobora kuba hari icyo ari kubabwira ku bijyanye n'ubuvuzi.

Inama iteraniyemo abantu benshi cyane bicara barebye imbere, imbere yabo hari abandi bagera muri batandatu nabo babarebye. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amafoto y'abantu barabakoresha iyo nama, kirasa icyatsi.

Abana bambaye udupira dusa mu ibara ry'icunga, hari abantu bagiye batandukanye bari kubasomya ku bikombe ndetse no ku byansi, bigaragara ko harimo amata. Ibi bikorwa na leta mu rwego rwo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana bakiri bato.

Abantu batandukanye bahagaze ahantu hamwe abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo hari icyaba gisa ubururu cyanditse amagambo mu ibara ry'umweru, nubwo kidasomeka neza ariko hariho insanganyamatsiko bigagaho muri iyo nama.

Abakobwa bagera muri batanu bateraniye hamwe bambaye imipira y'ubururu ariko harimo n'umugabo umwe, hakaba hari akapa imbere yabo kanditseho ngo unicef, bivuze ko ari ikigo cyita kuri buri mwana.

Abana bagera muri bane barunamye bateze amazi ku mugezi wa robine, harimo umwe wambaye amasogisi y'umutuku, n'undi wambaye ay'umukara, bose bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri, inyuma yabo hari undi uhahagaze, na we wambaye imyenda isa n'iyabo.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe mu nama harimo abazungu ndetse n'abirabura, bakaba bakikije ameza asa umukara, buri wese imbere ye hateretse agakayi ndetse n'agacupa karimo amazi yo kunywa mu gihe agjze icyaka.

Abana benshi cyane bambaye amashati y'umweru bigaragara ko ari abanyeshuri, barishimye bazamuye amaboko bafashe impapuro bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, bari kumwe n'umwarimu wabo wambaye agashati k'amace n'ipantaro y'umukara, afite impapuro bigaragaza ko yifatanyije nabo kuri uwo munsi.

Umukecuru wambaye ubusa, hejuru akaba yiteze igitenge yambaye n'urunigi, yiteze igitenge gisa umweru ndetse ari kureba nk'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe kuko yakunje isura.

Inyubako iteraniyemo abantu benshi bari mu nama, ikaba ifite ibikuta by'umweru ndetse na parafo z'umweru imbere ahagaze umukobwa wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara hari n'undi wambaye ikanzu yo mu bitenge afite indangururajwi mu ntoki bari kurebana.

Abantu batandukanye, harimo umukobwa wicaye wambaye agapfukamunwa n'undi wambaye agapfukamunwa n'umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, aho bari kuganira ku kibazo cy'abantu bafite indwara zo mu mutwe.

Aha bari kutwereka uburyo abantu bageze mu gihe cy'uburumbuke baba batekereza. Hari ikirango kiri mu mabara y'umutuku cyandikishijeho inyuguti z'umweru. Hari n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Aha turahabona inzego zigiye zitandukanye z'amashusho y'abantu, hari umwana ukiri muto, urundi ruziga rurimo abantu bane, ababyeyi babiri n'abana babiri, ahandi hari umuntu wunamye, ahandi hari umugore utwite, ahandi hari umuntu uri kuvuga.

Rwanda mento herifu nasingi situdenti asosiyesheni. Akaba ari ikigo cy'abanyeshuri bo mu Rwanda biga ubuvuzi ndetse n'indwara zo mu mutwe.

Umugore wicaye afite abana babiri bigaragaza ko ari umugore wo mu cyaro usa n'udakize cyane, imbere ye hari inkoko irimo ingemeri ari kurengamo soya, inyuma ye hari inzu yubakishije ibyondo ifite urugi rw'ibiti.

Abantu batandukanye, bashinzwe umutekano b'abapolisi, bari kugenda mu muhanda, inyuma yabo hari abantu bambaye imipira iri gusa icyatsi, abo bapolisi babiri bafite ikirango kiriho Repubulika y'u Rwanda, ndetse n'ikirango cya polisi, byanditseho ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano zanjye.

Abantu batandukanye bari bari mu nama none barayishoje bakaba bari kwifotoza bahagaze imbere y'inyubako, bafite icyapa mu ntoki kiriho insanganyamatsi bari bari kwigaho muri iyo nama.

Umugore w'inzobe wambaye agapira k'umukara, akaba ari gufashanyije ku cyapa cyanditseho MySol, aho batanga ubwishingizi bakaba baguha umurasire utanga ingufu z'umuriro ukomoka ku mashanyarazi, maze ukazajya ucana ugatandukana n'ikizima.

Abantu bateraniye hamwe, bahagaze bari kwifotoza, harimo abagabo n'abagore, abagabo benshi bambaye amakositimu, biragaragara ko bari bari mu nama none ikaba irangiye, bakaba bagiye gufata ifoto bazifashisha batanga raporo.

Umusaza wicaye wamabye agapira k'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, akaba yambaye amapingu mu ntoki, inyuma ye hakaba hari abashinzwe umutekano ndetse n'abandi bantu bashungereye, bigaragaza ko aba ari abantu baba bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe abandi bahagaze inyuma, bambaye amakote y'amakositimu na karuvati ndetse inyuma hari abambaye udupira tw'impuzankano tw'umukara, imbuga barimo ihishemo amapave ndetse bari imbere y'inyubako bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyapa cyanditse mu magambo y'umweru ndetse n'icyatsi, aho gifite uturango dufiteho akadomo k'umukara hejuru, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara avuga ngo solidi mayindizi ndetse n'andi yohasi avuga ngo batanga uburyanama ku bijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umweru asize ku bikuta ibirahuri ntabwo bibonerana neza ndetse hanze hari ubusitani bwiza buteyemo ibyapa bigaragaza aho hantu, bitanga n'ikaze bivuga ngo murakaza neza mu bitaro by'Akarere bya Munini.

Umukecuru uri guseka wambaye ibitenge n'ikanzu, atetse amashyiga ari gushigisha igikoma. Inkono atetseho n'umukara, imbere ye hateretse agakombe ndetse n'umupfundikizo w'isafuriya.

Umukobwa uri guseka wambaye ikanzu y'umukara n'agapira k'umutuku, uri imbere y'igikuta kitagaragara neza gisize amarange y'umweru, umuryango ukaba ufunguye, uyu mukobwa nk'uko bigaragara ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu bicaye imbere y'inyubako, yubakishije amatafari, iteye sima, ifite utudirishya tw'imbaho dusa umutuku, n'ibirahure, umuryango urafunguye, abo bantu baricaye harimo abagore babiri n'umukobwa umwe n'abagabo babiri n'umwana umwe, bari kureba imbere bigaragara ko hari umuntu uri kubagezaho ikiganiro.

Abantu benshi cyane bicaye bari mu nama, bicaye ku dutebe tugezweho, imbere yabo ku meza hari ibitambaro by'ubururu ndetse n'umweru, imbere ya buri wese harambitse amazi kunywa, barebye imbere aho hari umugore uhagaze ufite ijambo ari kubabwira. Inyuma ye hari abandi bagabo b'abanyacyubahiro bakurikigiye inama.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama bari mu nama, harimo umugore wicaye yambaye ikanzu ya move, irimo utudomo tw'umweru n'umukara, afite indangurura majwi mu ntoki, ari kuvuga abandi nabo bamuteze amatwi.

Iki ni ikirango kiri kutwereka ikigero, uburyo bwo kwiyahura cyangwa impfu ziterwa no kwiyahura mu Rwanda zigezweho, hari cumi na kane, icumi, gatandatu ndetse na kabiri, munsi hari imyaka uko nyari bimeze.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, afite imisatsi y'umukara nk'iya Luck Dube, ari guseka afite inyinya nini cyane, bigaragaza ko uyu mugabo atuzuye, ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, inyuma ye hari abandi bantu babiri batagaragara neza, na bo bambaye amashati y'ubururu.

Abantu bicaye bari mu nama b'abamama bagera muri batatu, imbere yabo ku meza hakaba hateretse agacupa k'amazi ndetse hari na telefone, imbere yabo hari umugabo uri kubakoresha inama ufite indangururamajwi, inyuma ye hari icyapa kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru cyanditse ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Umurwayi wo mu mutwe uko bigaragara rwose arasa nabi ari kugenda atoragura amashashi agiye atandukanye mu muhanda kuko ajya ahantu mu kingarani agafatamo amashashi menshi cyane bigaragara ko ari umusazi.

Umumama wambaye agafukamunwa k'umweru, aho ari ku kirangantego cyangwa se ibyapa, kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru n'umutuku, akaba bari kwamamaza uburyo abafite indwara zo mu mutwe nabo ari abantu.

Abantu bateraniye mu cyumba kiberamo inama ziga ku bijyanye n'ubuvuzi mu Rwanda, icyo cyumba gifite ibikuta bisa umweru ndetse abo bantu benshi barebye imbere barakurikiye.

Ababyeyi bagera muri batatu uwo hagati agacigati umwana ariko buri wese yicumbye akantu, umwe afite akabingo kagufi, undi afite ikirungo kirekire undi afashe igitiyo, hakurya yabo hari imisozi myiza igiye itandukanye.

Icyapa gishushanyijeho umusaza wambaye ishati y'umweru, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, harimo n'idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ijambo rivuga ngo turi kumwe.

Umugabo wunamye wiyumviriye utishimye na gato, bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mutwe, ari kumwe n'umukobwa umufashe ku rutugu wambaye isaha, ari kumuhumuriza amubwira ko iyo ari indwara nk'izindi.

Aha ni ahantu hari icyapa kitwereka ahatangirwa serivisi z'indwara zo mu mutwe mu Rwanda, aho hari udusikariye turi mu mabara y'umutuku, icyatsi, ubururu umweru ndetse n'ibara ry'icunga.

Inzu ikorerwamo serivisi zigize zitandukanye z'ubuvuzi. Akaba ari na salle, hateraniyemo abantu bicaye ku ntebe z'imikara. Bari kureba imbere ahari umugore uri kubakoresha iyo nama. Hirya ye hari isakamashusho izimije. Akaba yakonegise ku kibahu porojegiteri iri kubereka ibyo bari kwigaho.

Umuntu bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yicaye ahantu hasi nta mwenda n'umwe yambaye, mu ukuguru kumwe yambaye incongu ariko afite umusatsi muke, ari mu cyumba gisa nabi cyane gifite inkuta z'umweru zanduye cyane.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe bakenyeje agatenge yicaye yambaye amahama mu maguru, yambaye akajezi ka chelsea gasa ubururu ndetse n'umweru, yifashe mu mutwe, yicaye hasi bigaragara ko atishimye habe na gato.

Umwana uri kurira ndetse warakaye wirabura. Biragaragara ko atishimye kandi ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe nkuko bigaragara ku ifoto ye.

Igishushanyo cy'uruziga kiri mu mabara y'ubururu, umweru, icyatsi ndetse n'ibara ry'icunga, munsi hariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, avuga ngo ikigo cy'u Rwanda cyita ku buzima bwo mu mutwe, byanditse mu mabara y'ubururu.

Abantu babiri bari kuganira harimo umukobwa umwe wambaye iby'umutuku n'ingofero, akaba yitangiye ku itama bigaragaza ko yihebye, hirya ye hari undi mukobwa wambaye iby'umukara n'amadarubindi amufasheho ari kumuhumuriza.

Abantu bishimye bahagaze bambaye baji bakaba bari gukoma mu mashyi bigaragara ko bishimye bageze mu kigero cyo gutera murale ngo banezererwe, ni ingirakamaro ko abantu bahuriye hamwe bafata umwanya bakishima.

Umukobwa w'inzobe wasamye hari umuganga wo kumushyirira umuti mu kanwa. Arishimye cyane kandi umuganga yambaye udupfukantoki. Ni byiza kujya kuvuza umwana hakiri kare na muganga akamwitaho uko bikwiriye.

Umugabo ufite esuwime ku rutugu, akaba afite urudodo ari guseka, ari kurukoza mu menyo, ari kuyasukura akoresheje ubudodo, niyo mpamvu natwe batugira inama yo gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo, kuko bituma umuntu agira amenyo neza cyane.

Igishushanyo cy'igikanka aho kitwereka ibice byose by'amenyo umuntu aba afite bigiye bitandukanye, ibi bikorwa kugira ngo abakiri bato ndetse n'abakuru babashe kumenya uko amenyo yabo aba ateye.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe, aho yambaye agasengeri k'umweru, akaba yiteze n'igitambaro cy'umweru, arashinyitse bigaragara ko ari gusukura amenyo ye akoresheje umuti w'amenyo n'uburoso busa ubururu n'umweru.

Ifoto y'umusaza wamanitse ifoto ku rukuta, aho ari kutwereka amoko menshi agiye atandukanye y'amenyo ndetse n'uburyo avurwa n'uburyo wakwirinda indwara zifata amenyo.

Umukobwa uryamye kwa muganga, aho yagiye kwikuza amenyo none muganga akaba yambaye imyambaro y'akazi n'udupfukamunwa, akaba yaje none akaba ari kumukura ayo menyo. Ni byiza kujya kwikuza amenyo kwa muganga.

Inyubako cyangwa sare itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye cyane cyane zegeranye n'ubuvuzi, aho hari gusa umweru, amatara ni umweru, amakaro ni umweru, ibikoresho birimo byinshi ni umweru, uretse utubara duke tw'ubururu tugenda twivangamo.

Umwana wasamye w'inzobe, aho imbere ye hari ibiganza byambaye udupfukantoki tw'icyatsi biri kumuha ibinini nawe arasamye ari kubinywa. Ni byiza cyane guha umwana ubutabazi bw'ibanze kuko ari we Rwanda rw'ejo hazaza.

Umukobwa uri guseka ufite imisatsi myiza cyane, akaba yambaye agataburiya k'ubururu n'agapira k'amaboko, afite indorerwamo mu ntoki ari kwireba ubwiza bwe agaseka.

Umugabo wambaye agapira k'umukara, akaba afite ubwanwa ndetse n'amenyo meza ari guseka, arasa inzobe yogoshe neza, ari kutwereka uburyo kwita ku menyo bituma asa neza cyane.

Umugabo w'inzobe uri guseka ufite ubudodo mu menyo, akaba ari gukoresha uburyo bwo gusukura amenyo akoresheje ubudodo kugira ngo amenyo ye ase neza, ni byiza rero gusukura amenyo yawe ukoresheje urudodo kuko bituma nta myanda isigaramo bityo bikakurinda indwara z'amenyo.

Sare cyangwa inyubako yo kwa muganga iri kwakamo amatara menshi mu ibara ry'umweru, ifite ibikuta by'umweru ndetse irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi kwa muganga.

Umuntu urwaye amenyo yagiye kwa muganga bamwicaje ku gatebe gafite imifariso y'ubururu, muganga yambaye itaburiya, udupfukantoki ndetse agapfukamunwa n'amadarubindi yashyize mu gahanga, ari kureba iryo ryinyo ngo arikure.

Ni byiza cyane kwigisha umwana uko bita ku menyo, hano hari umwarimu uri kwigisha umunyeshuri uko amenyo bayitaho bayakorera isuku, inyuma hakaba hahagaze abandi bantu n'ikibaho cy'umukara.

Abana bakiri bato biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano ndetse buri wese afite uburoso mu ntoki n'agakombe ari koza amenyo ye kugira ngo ase neza, ni byiza cyane kugirira amenyo isuku kuko bituma umuntu agira ubuzima buzira umuze.

Umugore ndetse n'umwana bambaye udusengeri dusa umweru n'imisatsi y'umukara, bafite uburoso mu ntoki bari kurebana, bari goseka bigaragara ko biteguye gukora isuku y'amenyo bakiborosa.

Ni byiza cyane gusobanurira abanyeshuri uko amenyo aba ateye, ndetse n'uko agirirwa isuku. Hari umugabo wambaye itaburiya uri gusobanurira uwo munyeshuri. Inyuma hari ikibaho cy'umukara n'abandi bantu bagera kuri bane bahagaze bari kureba ibyo uwo mwana bari kumwigisha, abo bantu si abanyeshuri.

Inyubako ndende cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yanditsweho ngo Hope Dental Center, bigaragara ko aha ngaha ari aho batangira serivisi zo gukura amenyo. Ifite ibirahuri bisa icyatsi ndetse imbere ifite urugo rwubakishije ibyuma na fondasiyo y'amabuye.

Umusaza cyangwa umuntu ugeze mu zabukuru aho afite ubwanwa bwinshi, akaba afite akuma kabugenewe kaba kariho n'urudodo bifashisha bari gusukura amenyo, ari gusukura amenyo ye yifashishije urudodo, ari kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze mbese ntihagire umwanda usigara mu ryinyo rye.

Umugabo uri guseka neza cyane afite agashati k'ubururu karimo uturongo tw'umweru, afite ubwanwa amenyo meza cyane n'umusatsi utari mwinshi, imbere ye hakaba hari ikiganza cy'umuganga kiri kumuha akanini ngo anywe.

Ifoto cyangwa se ishusho y'abantu b'abaganga bari kwita ku murwayi. Aho aryamye yasamye bafite akayiko kariho utunini bari kumutamika ngo barebe ko indwara arwaye yakira.

Umugabo uri guseka wishimye cyane ari kumwenyura, akaba afite urudodo mu menyo ye, akaba arwifashisha asukura amenyo ye, ni byiza rero gusukura amenyo twifashishije urudodo kuko bituma umuntu agira amenyo meza ndetse asukuye, nta mwanda na muke wasigayemo.

Umwana wo guseka ari kwiborosa, akaba afite ibumoso bw'amabara y'umuhondo n'ubururu, yambaye ishati y'umweru. Ababyeyi bakaba baramutoje kugirira isuku amenyo ye akiri mutoya, ni ibintu byiza cyane kandi bishimishije.

Abantu bateraniye hamwe harimo abagore babiri bari guhererekanya agakapu, ndetse n'abandi bari gukoma mu mashyi bagaragaza ko bishimiye icyo gikorwa kiri gukorwa, hari urugi rw'ubururu ndetse hari ibitambaro by'icyatsi bitatse ku meza.

Umusaza wambaye ishati itukura n'ipantaro y'itisi, yambaye amadarubindi ari guseka, areba umuganga w'umukobwa na we uri guseka, wambaye agashati k'ubururu afite n'imisatsi y'umukara izingiye mu mugongo.

Aba ni abantu bagiye batandukanye aho harimo umusaza w'imvi uri guseka, ndetse n'umukecuru hirya nawe uri guseka. Hari umugabo n'umugore nabo bari guseka ndetse n'abana babafasheho bose bari guseka, akaba ari ifoto y'umuryango.

Abagabo babiri bari gutambuka baseka umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ipantaro y'umukara imanuyemo akaronko k'umweru n'ishati y'umweru n'umupira ku rutugu, bose bafite uducupa tw'amazi mu ntoki.

Isoko ricururizwamo n'abantu bagiye batandukanye, ariko higanjemo abakuze, ni aba mukecuru bambaye imyenda idozwe mu bitenge, bakaba bari gucuruza inyanya mu ibara ry'umutuku, inyuma yabo hari amacunga atukuye.

Umusaza ari kumwe n'umuntu w'umusore w'inzobe, umusaza yambaye amadarubindi, imbere yabo buri wese hateretse igikombe cy'umweru, bari ku meza y'umweru, inyubako isa umweru, bafite igitabo bari gusoma bari kurebamo bose bari guseka bishimye.

Umusaza wagiye kwa muganga none bakaba bamushyizeho ikirango cyangwa igikoresho cyifashishwa mu gupima indwara y'umuvuduko w'amaraso, ari gupimwa n'umugabo wambaye agapira k'ubururu afite n'imisatsi, arasa inzobe, bari mu nyubako ifite urukuta bibiri.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba yambaye imyambaro y'umuhondo, yambaye amadarubindi ndetse afite imisati y'abasirimu bagura amafaranga, akaba afite agacupa ari gusuka umuti mu ntoki agiye kunywa.

Abantu batandukanye bateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko higanjemo abageze mu zabukuru bose baricaye, hari n'umuzungu uteruye umwana, bahanze amaso umuntu uri kuboha agatebo mu buryo bw'ubukorikori.

Abantu bari kugenda mu muhanda, bambaye impuzankano zo mu ibara ry'ubururu n'abandi bambaye imyenda ya siporo, bari mu muhanda wa kaburimbo, hirya yabo hari indabyo ndetse n'imikindo yo mu muhanda, biragaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ugeze mu zabukuru, imisatsi ye ni imvi, uko bigaragara ari kozwa n'umukecuru na we ushaje, kuko imisatsi ye cyangwa se imisatsi y'uwo musaza ifashweho n'intoki z'iminkanyari, bigaragara ko uwo muntu na we ashaje.

Umusaza wambaye ishati ya karokaro w'imvi ari guseka afite isahani iriho ibyo kurya byuzuye intungamubiri ari guhaho umukecuru we, bari gusangira bari guseka. Ndetse ku meza hari ikirahure kirimo amazi.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho yicaye kwa muganga ku gitanda bigaragaza ko inda ye yabyimbye, hari umuganga w'umukobwa w'umuzungu wambaye itaburiya ari kumwitaho, amuhagurutsa kugira ngo arebe ko yakora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza n'umwana we w'umwuzukuru bari kurebana bari guseka bose bafite utuntu tumeze nka telefone mu ntoki, umusaza yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, umwana yicaye ku gitanda bari guseka barishimye bigaragara ko hari imikino bari gukinira muri iyo telefone bafashe.

Umusaza n'umukecuru bose bashaje, imisatsi yabo yabaye imvi, umusaza yambaye agapira k'icyatsi, umukecuru yambaye agapira k'umutuku, umusaza afashe akantu k'umweru, ari kumwereka bose bari kurebaho bagaseka.

Umusaza n'umukobwa ukiri muto bifotozanyije. Umusaza yambaye agapira kajya gusa icyatsi ndetse n'ishati ijya gusa orange, umukobwa yambaye agapira k'umweru gatambitsemo imirongo y'umukara, ndetse n'agakote k'agakoboyi, yambaye amadarubindi ari guseka. Bigaragara ko bose bishimye

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu w'umuganga, ari kumwe n'umukecuru ufite agakoni, bigaragara ko ari kumuha serivise nziza zerekeranye n'ubuvuzi, kugira ngo umubyeyi akire, arusheho kumererwa neza cyane.

Agasahani kariho ubwoko bwinshi bw'imbuto zigiye zitandukanye, abantu bageze mu zabukuru baba bakwiye kurya, izo mbuto ziri mu mabara atandukanye: umuhondo, umutuku, icyatsi, umweru, oranje ndetse n'ibara ry'ivu.

Umukecuru ukuze cyane wambaye agapira k'ubururu, witeye n'umushanana w'umweru, afite indangururamanjwi mu ntoki, ahagaze imbere y'uruvugiro ari kuvuga, inyuma ye hari ikibuga giparitsemo imodoka ebyiri ndetse hari n'inyubako ikingirijwe n'ibiti by'inganzamarumbo.

Umusaza ugeze mu za bukuru yambaye ipantaro y'umukara n'umweru afite imvi yambaye na kuteri mu mumatwi n'amadarubindi, aho ateruye twa aliteri duto tw'umutuku mu ntoki akora imyitozo ngororamubiri kugirango agororoke.

Umusaza wambaye agapira gasa ubururu, gatambitsemo imirongo y'umweru, akaba ari kumwe n'umuganga utagaragara neza, uri kumuha imiti azajya aranywa, kugira ngo akomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru, umusaza yambaye amadarubindi n'agapira k'umutuku, umukecuru yambaye agapira k'umutuku gatambitsemo uturongo tw'umukara, umusaza aramwereka ikigero k'ibinini yagakwiye kuzajya anywa ku munsi.

Umukecuru n'umusaza bakuze, umusaza yambaye agapira k'ubururu, umukecuru yambaye agapira k'umutuku, bose imisatsi ni imvi, umusaza afite imiti mu ntoki ndetse umukecuru afite agapapuro ari kumwerekaho ikigero agomba kunywa.

Abantu babiri bari kugenda bafatanye mu muhanda, harimo umusaza ukuze ndetse n'undi utarakura neza. Bari kugendera mu kayira gashashemo amapave, baganira bishimye. Ku mpande z'umuhanda hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umusaza ushaje cyane, aho ari kumwe n'umusore ukiri muto bigaragara ko ari umwana we ari kumusukira ji mu kirahuri yo kunywa, imbere ye hari n'imbuto nyinshi umusaza asabwa kurya kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukobwa ukiri muto w'umuganga, aho muganga yahaye umusaza telefoni ari kumwereka utuntu nawe akaba ari kureba, imbere ku meza hatetseho akagurudu karimo amazi yo kunywa.

Ayani amasikariye agiye atandukanye atwereka uko inzego zigiye zirushanwa, habanza akavuriro rusange, hagakurikiraho ikigo nderabuzima, hagakurikiraho ibitaro by'Akarere, hagakurikiraho ibitaro by'Intara ndetse hagaheruka ibitaro by'Igihugu.

Icyapa kiri mu mu mabara y'ubururu cyandikishijeho amagambo y'umweru n'umuhondo, hakaba hariho ishusho y'abantu babiri umwe wicaye yambaye agapantaro k'umuhondo n'agapira k'ubururu yicaye ku ntebe y'ubururu n'undi wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru.

Ni icyapa kiri mu mabara y'umuhondo cyanyandikishijeho amagambo n'ibara ry'umweru, aho yanditseho amagambo avuga ati: ''Kompuresive sekishuwariti edikesheni riferensi buke foru sekendari sikuru ticazi.''

Abantu benshi bicaye bari mu nama, imbere yabo hari umuntu wicaye ari kuyibakoresha, abicaye bicaye ku ntebe zisa umutuku, imbere hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko bari gukoraho ko ari umunsi mpuzamahanga w'inama yita ku bufasha bw'abantu bafite indwara zigiye zitandukanye.

Icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru kikaba giza ubururu cyanditseho ngo turwanye sida kuko yangirije Isi hose muri iki gihe, ni byiza ko twirinda indwara ya sida dukora imibonano mpuzabitsina dukoresheje udukingirizo.

Umusaza wicaye ku ntebe, yambaye ipantaro y'umweru n'ishati y'umweru, ari kumwe n'abana batatu, ndetse na nyina ku ruhande, ari kubaganiriza uburyo bazajya bifata neza, bakirinda indwara zo mu mutwe, mu Rwanda.

Abantu bambaye imyambaro isa icyatsi babaganga, bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero, ku gitanda hari umurwayi uryamye hagati yabo bari kongera umwuka bigaragara ko bari kumukurikirana kugira ngo barebe ko yagarura ubuzima.

Ahantu hari utuziga tugera muri dutandatu, aho turimo ingeri z'abantu zigiye zitandukanye. Munsi y'akaziga hakaba handikishijeho amagambo mu ibara ry'umukara. Hejuru hakaba handitseho ngo guhagarika Koronavirusi.

Umugabo uri guseka wambaye ishati y'ubururu, akaba ari ku cyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umweru, akaba yanditse ahantu hasa icyatsi.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya, bose bambaye neza amakositimu na karuvati, umwe yambaye n'amadarubindi, bafite ibitabo mu ntoki, inyuma yaho hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Abantu batandukanye bicaye bari mu nama, imbere yabo hari abantu bagera muri batandatu, abagabo batanu n'umugore umwe, bambaye amakositimu, inyuma yabo hari icyapa kiriho amafoto y'abo bantu bagiye kuyobora iyo nama.

Abantu batandukanye, aho bifotoje bari mu cyapa kiranga cyangwa se kiri mu mabara y'ubururu n'umweru. Bagera muri bane aho bishimye cyane.

Inyubako iteraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abicaye bafashe udutabo n'abandi bahagaze nabo bafashe udutabo, bahagaze ku bitambaro bisa umutuku, imbere yabo hari ameza asa umweru, biragaragara ko bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso.

Umwana wasamye w'umuzungu, imbere ye hari amagambo yanditse ngo ''Ubuvuzi dushobora kwizera, ni ubwita ku ishusho y'umwana ndetse bugatanga ubuvuzi bufite ireme.''

Ababyeyi benshi batandukanye bazanye abana kubavuza, aho bose bishimye babakigikiye, bigaragaza ko baje kubakingeza, inyuma yabo hari ibyapa bigiye bitandukanye, bimanitse ku rukuta.

Icyapa cyanditse mu magambo asa umweru kibageza ubururu handitseho amagambo avuga ngo ingingo zatuma dutangira gukomeza ndetse no kurushaho gutegura ejo heza hazaza h'umuntu muri Afurika y'epfo, handitseho amagambo ngo turi urubyiruko mu ishusho y'umutima.

Urugero rw'ikintu twashyira imbere, ni ugutera urukingo rurwanya Kovide cumi n'icyenda, iyo wafashe uru rukingo, bituma uba ufite ubwirinzi ndetse ntube wakwandura iki cyorezo.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, gishushanyijeho umugabo witwa Dogiteri Noel Gahimanyi, akaba ari umuntu uzakoresha inama muri iyo minsi. Hariho n'amagambo y'ubururu.

Uwo mukobwa w'umuganga wambaye akanozasuku mu mutwe ndetse nagapfukamu, yambaye taburiya y'umweru ndetse hirya hari y'icyapaki mu amabara y'ubururu yanditseho amagambo y'umweru avuga ngo duteze imbere ubuvuzi mu Rwanda.

Aha turahabona umugabo uhagaze ku ruvugiro imbere ye hahagaze kamera iri kumufotora, ishusho ye ikaba iri kugaragara ku gikuta bigaragara ko hariho porojegiteri kugira ngo abatamwegereye na bo babashe kumukurikira.

Ukuboko kuriho uduheri twinshi tugiye dutandu, utu duheri ni ibimenyetso by'indwara runaka. Abaganga batugira inama ko igihe ubonye ibiheri nk'ibi ku mubiri wawe wihutira kujya ku kigo nderabuzima bakakuvura.

Abantu benshi bateraniye hamwe b'abagore ndetse n'abagabo, aho bazamuye amaboko bamwe barasutanye abandi barahagaze, bari kwishima, bari m'Umunsi Mpuzamahanga w'Abagore b'Abayobozi ku Isi.

Abantu bambaye imyambaro y'umweru bari kugenda mu muhanda, bafite icyapa cyanditseho ngo ''Twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira.''

Umugabo w'umuganga wambaye agapira k'umweru ndetse n'agapfukamuwa, ari gutera umugore urukingo rwa covide cumi n'icyenda, umugore nawe yatinye urukingo arabona ko ari gushinyiriza cyane ntabwo amenyereye inshinge.

Icyapa byanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi cyijimye, ndetse amagambo yandikishije amabara y'umweru, hari n'andi y'umuhondo ariho amatariki avuga tariki cumi n'umunani kugera makumyabiri n'enye z'ukwa cumi na kumwe, bibiri na makumyabiri na kabiri.

Abantu batandukanye bambaye udupira tw'umweru, bafite udukingirizo mu ntoki abasore n'abakobwa, hirya hari icyapa cyanditseho ngo ''Rinda ubuzima bwawe ukore imibonano mpuzabitsina ikingiye kuko kwirinda biruta kwivuza, koresha agakingirizo nawe.''

Aha ni icyapa gisa umweru cyandikishijeho amagambo agiye atandukanye y'umukara ndetse hari n'ikiziga gisa umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku avuga ngo "hehe n'igwingira."

Bimwe mu bimenyetso by'indwara ya Diyabete, hari ukugira icyaka, kumva ushaka kwihagarika inshuro nyinshi ndetse no kumva unaniwe no gutakaza ibiro byinshi.

Abantu batandukanye bari mu nama, aho imbere hari umugabo uri hagati y'abakecuru babiri ndetse inyuma yaho hari ikirango kiriho ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, iyi ni kaminuza y'u Rwanda n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Igitanda cyiza cyane gishasheho amashuka y'umweru, kirikwakamo insakazamashusho mu ibara ry'umweru, ibikuta birasa umweru ndetse iyi nyubako ni nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Aha hari inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi, hari insakazamashusho rigera muri eshanu ziri kwaka ndetse hari n'intebe zifite amapine bicazaho umurwayi bakamusunikaho bakamugeza aho bashaka kumuvurira.

Umugabo uriwitegereza muri mudasobwa cyangwa se mu nsagazamashusho ari kureba neza uburyo ibintu birimo bigaragara, akaba afite mudasobwa imbere ye ndetse inyubako hirya ikaba ifite amarido y'umweru abuze urumuri kwinjira.

Inyubako nziza cyane, ifite ibikuta biteye amarangi asa umweru n'inzugi zifite utuntu tw'umukara, hakaba harimo amakararo y'umweru, ndetse hari no kwakamo amatara mu ibara ry'umweru.

Inyubako bigaragara ko itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, yubakishije amatafari ahiye, ibikuta birasa umweru, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane buri mu mabara y'icyatsi, ibyatsi biratoshye, hejuru ikirere kirasa ubururu n'umweru.

Inyubako itangirwa serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda, aho muri iyo nyubako harimo ibitanda bigiye bitandukanye, bitandukanywa n'amarido asa y'igitaka hari kwaka amatara y'umweru.

Inyubako ngari cyane, irimo intebe zibiri, ku gikuta haka hateyeho umupira w'umutuku uzimya inkongi y'umuriro. Hakaba harimo n'inkuta zisize amarangi y'umweru n'ibirahuri bibonerana hanze.

Inyubako nziza cyane ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, hari urugi rufunze rufite ibirahuri byijimye, hejuru handitseho amagambo mu ibara ry'umweru avuga ngo ''Icyumba kiberamo operasiyo cyangwa icyumba babagiramo.''

Inyubako nziza cyane ifite korodori isa umweru n'amakaro y'umweru, hari icyumba giteye amarangi y'umuhondo ndetse amatara yacyo ari kwaka amabara y'umweru, amakaro ari kubonerana cyane wagira ngo ni ibirahuri.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko iz'ubuvuzi, hashashemo agatanda abarwayi baryamaho ndetse n'utuntu turi mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umweru, harimo insakazamashusho ebyiri.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye yanditseho ngo isange one stop center, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari ibirahuri nabyo bitabonerana.

Inyubako isakaje amabati y'umutuku, ifite ibikuta bisa umweru, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane, impande yayo hakaba hari n'akayi kaganayo gasashemo amapavi, bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etage. Ifite inzugi n'amadirishya by'umweru isize irangi rijya gusa umweru, ndetse iriho icyapa gisa umweru n'icyatsi cyanditseho amagambo ngo inzu y'ababyeyi n'impinja.

Inyubako nziza cyane aho irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, iri mu mabara y'umweru ndetse n'ibirimo byose, hafi ya byose bijya gusa umweru, harimo utubati, za mudasobwa, intebe, amakaro na yo arasa umweru.

Inyubako ngari cyane, ifite utudirishya tw'ibirahure byijimye, ifite inkuta zisize irangi rijya gusa n'umweru, amabati ndetse n'amatari ari kwaka mu ibara ry'umweru, hasi hari sima isa nk'ivu.

Mu nzu itangirwamo serivise zigiye zitandukanye kwa muganga, harimo udutebe twiza cyane dusa ubururu ndetse n'udutebe dusa umweru dufite imifaso begamiraho, harimo ibishushanyo bigiye bitandukanye aho harimo n'akanyamasyo amatara ari kwaka umweru parafo ni umweru ibikuta birasa umweru, umuhondo na oranje n'ubururu.

Umubyeyi wagiye kuvuza umwana akaba amukikiye, muganga ari kumureba ngo amwiteho, muganga yambaye itabuya y'umweru n'akanozasuku k'ubururu, agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya kabgayi, cyandikishije amabara y'umweru, ndetse n'imbere harimo inyubako nziza cyane zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati atukura. Harimo n'uduti tukiri dutoya dutanga amahumbezi n'umuyaga.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo za mudasobwa, harimo intebe ndetse n'ibindi byuma bifite amapine. Hejuru harimo ibindi byuma bigiye bisa umwe bitandukanye umuntu atapfa kumenya ibyo aribyo.

Iyi nyubako yubatswe mu buryo bw'uruziga. Hirya hakaba hari indi nyubako yubakishije amatafari ahiye. Hakaba hari utuyira tw'amapave tuhagana. Hari ubusitani bwa pasiparume imbere yaho, aho bimeze neza cyane hari izi nyubako zitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane iri mu mabara y'umweru ndetse n'ibirahuri bisa umweru. Iyo nyubako ikaba ifite utuntu turimo imbere turi mu mabara asa oranje dutandukanya uruhande rumwe ndetse n'urundi, harimo igitanda ndetse n'amakaro arya gusa ibara ry'ivu.

Ni inyubako nziza cyane iri mu mabara y'umweru, ifite parafo z'umweru, amatara ari kwaka umweru ndetse ifite inkingi z'umweru n'icyatsi cyijimye, ikaba ifite n'amakaro arimo arasa umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba igeretse kane, mu marembo hari ushinzwe umutekano uri gufungurira imodoka iri gusohoka, hanze hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'umuntu uhicaye bigaragara ko ari we uharinda.

Salle irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho bigaragara ko hakorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo intebe zisa umukara, purafo irasa ibara ry'ivu ndetse no hasi sima isa ibara ry'ivu, harimo inkingi z'umweru.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, cyane cyane izita ku buvuzi hateraniyemo abantu benshi. Imbere yabo buri wese ateretseho amazi, ndetse imbere hari abantu bari bakoresha inama bari ku meza afite igitambaro cy'icyatsi ateretseho amazi, ndetse inyuma yabo hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko y'uwo munsi.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu. Imireko irasa umweru, ikaba ifite ibikuta ndetse n'inkingi byandikishijeho irangi ry'umweru. Hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu avuga ngo materiniti, inzu y'ababyeyi. Bigaragaza ko ari aho ababyeyi babyarira.

Aha turahabona amafoto y'abantu babiri harimo uwambaye ikirango cyangwa akajiri k'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda n'undi yambaye ibaji yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hari icyapa cyaditseho ngo irembo inyuma y'uwambaye iby'ubu buvuzi hari kizimya myoto ebyiri.

Inyubako ngari cyane ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ikaba iteyemo intebe ndetse n'amakaro asa igitaka, ibirahuri birabonerana ndetse ni nini cyane.

Inzu icururizwamo imiti igiye itandukanye yo kwa muganga, harimo udusanduku twinshi, aho ugenda ukurura kamwe ukavana mu muti ushaka. Bisaba kuba uri inararibonye kugira ngo uzabashe gutahura umuti muri utu tuzu twose tungana gutya.

Aha ni ahantu hari inzu isakaje amabati y'ubururu yubakishije amatafari ahiye ifite inkingi z'umweru, ikaba yanditseho ngo isange wane sitopu senta, ikaba iherereye Remera i Rukoma.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga. Harimo ibitanda bifite matera zisa umukara, ndetse bifite n'amapine. Hari ibikuta by'umweru n'ubururu, purafo zirasa umweru, amatara ari kwaka umweru ndetse hari n'amarido asa umuhondo, n'umweru agabanya urumuri mu cyumba.

Aha ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ahazwi nko kwa muganga. Hari icyuma gisa umweru aho baryamishamo umurwayi, hanyuma icyuma kikikaraga kikagenda kimuha akayaga ndetse kimutiza n'akuka, harimo purafo z'umweru, amakaro na yo arasa ibara ry'ivu.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu ndetse n'inkuta z'umweru. Iri ahantu hari ubusitani bwiza cyane, imbere hari igiti cy'umwembe. Bigaragaza ko iyi nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zita ku buzima n'ubuvuzi muri rusange.

Aha ni ku nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, imbere hakaba hari icyapa cyanditse ngo "ibitaro by'umusaraba byo hepfo kwa Nyirinkwaya." Hakaba harimo akazu MTN mu imbere ndetse n'idarapo.

Aha ni kwa muganga aho hari abantu bagera muri batanu bateraniye ahantu hamwe, hari ibikuta bisa umweru ndetse hakaba harimo babiri bicaye n'abaganga bari kubasuzuma.

Inyubako ifite akarongozi karombera imbere hakaba hari imiryango myiza cyane isa igitaka, ibikuta by'iyo nyubako birasa umweru, hejuru harikwakamo amatara nayo asa umweru.

Umusaza wambaye amadarubindi n'agashati gatukura, ari kurebana n'umuganga wambaye agashati k'ubururu wazirikiye imisatsi mu mugongo. Bose bari baseka.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo intebe z'umuhondo zicarao abantu bari gukurwa amenyo, harimo kandi n'ibikuta bisize irangi ry'umweru, amakaro yaho arasa umweru n'ibikoresho byaho byinshi bifite amapine.

Aha ni kwa muganga aho hatangirwa serivise nyinshi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, harimo ibitanda bishasheho amashuka asa umweru n'ubururu, bifite amapine, amarido ni umweru amatara ari kwaka umweru, ibikuta birasa umweru n'ubururu ndetse na parafo irasa umweru.

Inyubako isize amabara y'ivu n'ibirahuri bitagaragara, haruguru hari inyubako ifite amabati y'umutuku ndetse n'ibikuta by'umweru, hakaba hari utuyira tujyayo tw'amapave n'ubusitani bwiza, hari abantu bagera muri batatu bari kuvayo harimo umusore umwe ufashe ibase n'umugabo ufashe umwana we.

Inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi handitseho amagambo ngo Kigina Health Center, bigaragara ko ari ikigo nderabuzima cya Kigina, imbere hahagaze umugore uhetse umwana aho bigaragara ko aje gushaka serivise aho hantu.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga, harimo inkingi zisa kacye, parafo irasa umuhondo, ibikuta ni umweru, amakaro ni umweru, harimo intebe z'umukara n'iz'umuhondo zifite amapine. Aha ni kwa muganga.

Umusaza w'umuganga uri guseka yambaye itaburiya ari kumwe n'umuntu imbere ye wambaye ikanzu ijya gusa ubururu ikozwe mu gitenge ari guseka bigaragara ko ari kumuha serivisi yaje kumwaka.

Aha ngaha turahabona ibikoresho byifashishwa mu kongerera abarwayi umwuka bawubuze cyangwa se ababa bari kuri bomboni, imbere hari inyubako ifite ibikuta bisa umweru ndetse isize amarangi y'umukara, irimo n'abandi bantu mu imbere batari kugaragara.

Aha ni kunyubako hatangirwa kwa serivisi zigenda zitandukanye kwa muganga, hubatswe mu buryo bugezweho aho inyubako zigerekeranye zisakaje amabati y'umutuku, hari amapave ahashashe ahagazemo abaturage benshi bagiye batandukanye. Haparitsemo n'imodoka y'i parado

Aha turahabona umuganga uri mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho harimo ibyuma byinshi bigiye bitandukanye, hari igitanda abarwayi baryamaho cy'umweru, hari ekara ebyiri ziri kwaka ndetse hari n'icyuma hejuru gisa umweru.

Inyubako nziza cyane y'umweru ifite ibikuta by'umweru, harimo intebe bicaraho aho harimo ibipuriza by'ubururu n'umweru n'amatara ari kwaka umweru, ku gikuta hashushanyijeho ijisho bigaragara ko hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi bw'amaso.

Umubyeyi w'umuganga aho ari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yapfuduye icyuma kimeze nka firigo kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, ari kurebamo ngo arebe ko cyujuje ibyangombwa hanyuma aze atangire yite barwayi.

Inyubako nziza cyane, ifite ibikuta biteye amarangi y'umuhondo, parafu ni umweru, inzugi zisa umweru n'ibirahure bibonerana, harakinguye ndetse ku gikuta handitseho ngo ahakorerwa ubushakashatsi.

Ahantu hari inyubako nziza cyane, aho hari icyapa kihagana cyanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Tabagwe, byanditse mu magambo y'umweru, ahantu hasa ubururu.

Aha hari inyubako nziza cyane icururizwamo imiti izwi nka Pharmacy. Harakinguye icyapa cyanditse mu magambo ari mw'ibara ry'umweru. Hari n'ikindi cyapa kivuga ngo ubuzima bwiza bigaragaza ko ukeneye imiti wagenda bakayiguha.

Ahantu hari inyubako nziza cyane zisakaje amarangi agiye atandukanye umutuku ndetse n'ubururu, hakaba hari ubusitani bwiza cyane bigaragara ko hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hari igiti gifite amatabi menshi cyane n'amababi meza.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi nyinshi zagiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho izo nyubako ziri gusa umweru ndetse hakaba harimo amakaro ajya gusa igitaka, harimo intebe ndetse n'ibitanda abarwayi baryamaho.

Iyi ni inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Hari intebe z'umukara n'ibibyuma zibereye aho, aho hari utumeza na two dufite ibara ry'umweru ndetse n'igitaka. Ibikuta byantseho amagambo agiye atandukanye ndetse harimo n'itangazamashusho ziri kwaka.

Aka ni akanyubako gasa umweru karimo n'amatare ari kwaka umweru, ibikuta ni umweru n'amakaro asa umweru, hasi harimo abantu bagiye batandukanye ndetse harimo n'insakazamashusho z'umukara zizimije.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho. Ikaba iriho icyapa cyanditseho amagambo arasisi, kikaba cyanditse mu mabara y'icyatsi hejuru hari utuntu tw'ubururu ndetse n'umuhondo. Akaba ari ikigo cy'igihugu cyita kuri kanseri mu Rwanda.

Icyapa kigaragaza aho ibitaro bya Ruhengeri biherereye, hari urugo rwubakije ibyuma by'umweru ndetse hari n'inkingi zubakishije amatafari ahiye, mu muhanda imbere yaho hari kugenda urujya n'uruza rw'abantu batandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, gifite ibikuta biteye amarange y'umweru ndetse n'umuhondo aho amagambo yanditseho mu ibara ry'uburu, avuga ngo imbabare cyangwa abarwayi ni aha ngaha bakirirwa.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama bafite imyenda y'amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, imbere yabo hari intebe zibereye aho z'umukara ndetse n'urubaho rubereye aho, hari umuntu wicaye mu kagare n'abandi bantu babiri bicaye bakikije ameza, abo bantu batonze umuronko.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ibikuta ni umweru, purafo ni umweru, harimo n'udutanda dufite amapine ndetse n'akandi gatanda gafite amabara y'icyatsi.

Inyubako nziza cyane, ngari, irimo ibikuta biteye amarangi y'umweru, amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru, munsi harimo ibikoresho byo mu mabara y'umukara n'umweru, bifite n'amapine, bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane ifite ibirahuri bijya gusa ubururu, imbere yayo hari imikindo, ikaba yandikishijweho amagambo mu ibara ry'icuatsi avuga ngo Policlinique du Plateau.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'udupfukantoki dusa ubururu, ari kureba mu cyuma, afashe agacupa karimo umuti gapfundikije umupfundikizo w'ubururu, aho ari kureba uburyo uyu muti ukoreshwa. Ari mu cyumba kirimo inkuta z'umweru gishashemo amakaro asa umweru.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi ni nziza cyane, zifite ibikuta bifite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo. Purafo zirasa umweru, amakaro ni umweru, harimo akameza gafite amabara y'ubururu n'umweru n'agatebe gafite amapine gasa ubururu.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko z'ubuzima, ishashemo sima ndetse irimo parafo ziri kwaka mu matara y'umweru, ibikuta birasa umweru, ni inyubako nziza cyane imeze neza. Biragaragara ko itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi hajyamyemo umurwayi w'umukobwa, hari n'amashuka asa umweru, akikijwe n'ibintu bisa umweru gusa ndetse n'icyumba kirasa umweru, ategereje ko muganga aza akamwitaho.

Aha ni mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hari ibitanda by'ubururu biryamyeho abarwayi baje kwivuza, hari n'abaganga imbere yabo bari kugenda babasuzuma bareba indwara bafite.

Umuganga wambaye itabuye y'umweru, uri gusasa igitambaro ku gitanda. Inyuma ye harijimye cyane ntabwo hagaragara neza, ariko ku gikuta hateye akantu k'umweru, ndetse imbere ye hari ikirango cy'uruziga, gikoze mu mabara y'ubururu n'umweru.

Iyi nyubako nziza cyane ifite ibikuta bisa umweru, parafo zisa umweru, amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru ndetse n'amakaro y'umweru, aho hari aho bakirira abakiriya ahazwi nko kuri resebusiyo, hari n'intebe zisa ubururu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ya etaje igeretse ifite ibirahuri birikwaka mu matara yijimye y'icyatsi ndetse yubakishije amatafari ahiye, imbere hari umuhanda uri kugendwamo n'urujya n'uruza rw'abantu, ikirere kirasa ubururu n'umweru.

Ubusitani bwiza cyane burimo utuyira dushashemo amapave ndetse hariho n'utubara tugiye dutandukanye tw'umutuku n'umweru ku mpande, imbere harenga hari inyubako ifite amabati asa icyatsi ndetse n'urugo ruyazitiye rusa icyatsi.

Abantu bagiye batandukanye, bambaye amashati y'umweru, bafite udukangara mu ntoki, turimo ibintu by'umweru, bari kwinjira mu nyubako ya KFH Rwanda, aho bagiye gukoreramo inama.

Inyubako nziza cyane ahazwi nko muri farumasi hacururizwawa imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu buvuzi. Hasi haparitse imodoka y'umukara yo mu bwoko bw'ivatiri, niba nawe ukeneye imiti wagana hano muri farumasi hanyuma bakaguha imiti ukigurira ukajya kwivura indwara zitandukanye.

Umuntu wicaye ku gatambaro k'ubururu karambitse ku makaro asa igitaka, aricaye arambuye amaguru, akoze mu birenge ari guseka, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyambaro y'umukara, ikabutura y'umukara n'agasengeri k'umukara yagiye kwa muganga, yicaye ku gitanda gifite matera y'umukara, muganga wambaye iby'umukara na we ari kumuvura yarambitse ukuguru ku kuma kabugenewe.

Umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri w'umukobwa, none akaba yavunitse, yaje kwivuza kwa muganga, aho yicaye ku ntebe, none aho yavunitse mu ivi, muganga yashyizeho uturango turi mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umugore wicaye ahantu ari kumwe n'umwana we wambaye iby'umweru, bakaba bari ku gitanda kigari cyane gishaho imyenda, umugore ari kumwenyura, ku gikuta hari ibitambaro by'umweru n'umuhondo ndetse kuri ibyo bitanda hariho amashuka menshi cyane agiye atandukanye.

Mu nyubako itangirwamo serivise zigiye zitandukanye zo kwa muganga zita ku buvuzi, hari igitanda kiryamyeho matera isa ubururu, ndetse amakaro na yo arasa umweru, nta muntu urimo ariko harimo ibikoresho byinshi cyane byifashishwa mu buvuzi.

Umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri ahagirira ikibazo, yambaye agakabutura k'umukara n'agapira k'umukara, aho yicaye ku gitanda hari umuganga w'umugore utagaragara mu maso, wambaye agashati k'ubururu, ari kumwitaho, amubadikaho igipfuko kugira ngo yoroherwe.

Ikirenge kimwe cyambaye inkweto ikindi ntazo cyambaye, hari umuntu uri kugipfukaho akantu k'umweru, bigaragara ko uyu muntu yagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri none akaba yaje kwivuza.

Igikoresho cyifashishwa n'umuntu wavunitse ku ivi, aho agenda bakamwambika iki gikoresho cy'ivi kiri mu mabara y'umukara, hanyuma akaryambara mu ivi akongera agakora siporo.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, kiri mu mabara y'umweru cyane. Hari agatanda baryamishaho umurwayi, noneho umutwe bakawerekeza muri kiriya cyuma kikikaraga ari uko kirushaho kumwongereraho umwuka.

Umuntu wagiye gukora siporo none akaba yavunitse yagiye kwa muganga none bashyize agatambaro aho yavunitse, gafashweho n'intoki z'umwirabura, agatambaro karasa ubururu.

Uducupa ndetse n'udukarito n'udushashi turimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'imiti igiye itandukanye, ivura abantu bagize ibibazo bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, cyandikishijeho amagambo y'icyatsi, aho hari umuntu witwa Viateur Nshimiyumuremyi, akaba ari inararibonye mu bijyanye n'ubuvuzi bw'imitekerereze.

Umusore wazamuye ukuguru kwe akurambika ku cyuma, yambaye agakabutura k'umukara n'agapira k'umweru, yifashe mu mayunguyungu afashe ku kirenge, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza, kandi na we agororoke.

Icyapa cyanditseho amagambo y'ubururu yanditseho ngo ikinyamakuru cya siporo n'ubuzima ndetse gitera n'ibinya, hari umuntu wifashe mu itako riri gusa umutuku, yambaye agakabutura k'umukara bigaragaza ko iryo tako rifite ikibazo, bari kukubwira ko ukoze imyitozo ushobora gukira.

Aha hari ibikoresho byinshi cyane byifashishwa umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri hari umukasi, hari itoroshi, hari udupfukantoki, hari imiti umuntu yakwisiga ndetse hariho n'ikimenyetso cy'umusaraba cyanditse mu ibara ry'umweru n'umutuku kigaragaza croux rouge.

Ubwoko bugiye butandukanye bw'imiti yifashishwa mu gutera ibinya, hejuru handitseho amagambo ngo repubulika y'u Rwanda, ibitaro bya gisirikari.

Umugabo ushinze ivi, uhagaritse ukuguru kumwe, wambaye imyambaro y'umukara. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, hirya ye hari igikuta gisize amabara y'umweru. Bigaragara ko ari gusukura cyangwa ari gukora umu imyitozo ngororamubiri.

Umuga uri gusimbuka akora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, urabona ko rwose yarateruye afite amatugu n'amatuza yambaye, inkweto nziza ipfundiko zabaye ubuhiri hirya ye hari umukobwa w'umugore uri kumureba asutamye.

Ivi ry'umukobwa wambaye agapira gasa igitaka, wicaye ku gitanda gisa umweru ndetse n'inyubako ifite amakaro y'umweru, ku ivi rye habaditseho akantu k'umweru bigaragaza ko ari igipfuko ko yaza kwivuza, yari yavunitse.

Umukobwa wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara, afite imisatsi myiza, yambaye uburuteri, yahambiriye telefone ku kaboko, arambuye amaboko akoze ku rukweto bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, ku ruhande rwe hari agacupa karimo amazi yo kunywa.

Inkweto yo mu bwoko buzamuye isa umukara, ikaba yanditseho ijambo ku cyapa gihari ngo bato, iyi ni inkweto ikoreshwa umuntu akora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye umupira w'umweru w'umugabo akaba afite ubwanwa, yambaye akantu k'umweru inyuma, ari kunywa amazi muri gurudu y'ubururu. Ni byiza kunywa amazi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo wambaye isengeri n'ikabutura, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho nubwo bigaragara nk'ushaje yitaye kwikanda ku itako bigaragara ko ari kwikorera mesaje yicaye ahantu hari utwatsi twiza cyane.

Umuntu uryamye wambaye agakabutura k'icyatsi uzamuye ivi, hakaba hari umugore wambaye itaburiya y'ubururu n'agapira k'umweru, akaba afashe umugabo ari kugenda agorora ivi rye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni abana benshi ndetse n'abantu bakuru bahagaze mu kibuga, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, hari umuntu imbere yabo uri kubakoresha, inyuma yabo cyane hari inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati y'umutuku.

Mu dukoresho dutandukanye twifashishwa. Harimo ka aliteri gatoya, akametero, pome ndetse n'agacupa k'amazi. Ibi ngibi bigufasha kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri cyangwa se ibifasha abantu bari gukina umupira, biba biri mu gasanduku gasa umutuku cyane cyane aka Croix rouge, aho gafasha abantu bagize ikibazo.

Ukuboko k'umugabo wifashe mu gituza, aho hashushanyijeho amabara ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, uyu mugabo ari kwikomanga mu gatuza bigaragaza ko ari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye.

Iyo ufite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo ubone ubuvuzi bwiza ugana ahantu ugakora imyitozo igiye iyitandukanye. Kuri iki cyapa hari umuntu uri gutambuka wamanitse akaguru afashe inkoni mu ntoki ndetse n'undi ufashe ku ntebe n'undi uhagaze yunamye.

Ahantu hari farumasi icururizwamo imiti igiye itandukanye, yifashishwa kugira ngo umuntu akore siporo neza, harimo ibinini ndetse n'inshinge bagutera.

Umuntu wambaye ishati y'icyatsi, muganga amufashe ukuboko yambaye itaburiya y'umweru arimo aramupima, yamuhaye aka ariteri gatoya k'ubururu, ngo ni abe araterura kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugira umuze.

Umukobwa ufite umusatsi muke yambaye agasengeri k'ubururu umweruru n'icyatsi ndetse n'umukara, akaba afite agasharupe ku rutugu afite gurudu isa umweru n'ubururu ari kunywa amazi, ni byiza kunywa amazi kuko bituma umuntu azana ubuzima bwiza.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa iyo umuntu ari gukora siporo, hakaba handitseho amagambo ngo Six Pack, kole iri kugura ibihumbi ijana na makumyabiri gusa, yagufasha gukuraho inda bikoroheye.

Aha ni kwa muganga aho hari icyumba kirimo ikintu cy'umweru cy'ikiziga kigiye kiriho akantu kameze nka mubazi, kikaba kirimo amarido asa icyatsi, ibikuta bisa umweru ndetse n'amakaro atagaragara neza.

Aha turahabona umuntu wicaye n'undi uhagaze, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bongere ibiro cyangwa bagire ubuzima bwiza, nyuma yo kuva mu mvune bari baragize bakora imyitozo ngororamubiri.

Uducupa turi mu mabara y'umweru, turiho ibyapa by'umukara, byanditseho ngo sitopu reyini, uyu akaba ari umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo cyangwa se baha umuntu uvuye gukora siporo.

Inyubako nziza cyane, ifite ibikuta, biteye amarangi y'ivu, hasi hakaba hari amakaro asa igitaka, hakaba harimo igikoresho cyifashishwa mu buvuzi, kiri mu mabara y'umweru, ndetse n'ubururu.

Umusore wambaye agapira keza cyane k'umweru, yambaye na kuteri z'umweru n'isaha ku kuboko, araramye ari kunywa amazi mu gacupa kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibi ni ibiganza bigera muri bine bizamuye, aho bari kutwereka uburyo ikiganza ukizirika, mu gihe ugiye gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo utaza kugwa kikaba cyakwangirika.

Aha turahabona amashusho y'abantu batandukanye bari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, hari ababa bari gukina amakofe, ababa bapfukamye, ababa bari kugenda bakora imyitozo igiye itandukanye.

Umumama wicaye, wambaye agakabutura kamuhambiriye k'umukara, ndetse n'agapira k'umutuku n'amadarubindi, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'isaha, umufashe ku kuguru, bigaragara ko ari kumuvura.

Umuntu w'umukobwa ufite umusatsi muke, ufite agasharupe ku rutugu wambaye agasengeri k'icyatsi, umweru n'ubururu. Afite icupa ry'amazi rifite umupfunditizo w'ubururu arifashe mu ntoki ari kunywa amazi. Ni byiza kunywa amazi kuko bigirira umubiri akamaro.

Umuntu uryamye ku gitanda aho hirya ye hari undi mugabo w'umuzungu ugifasheho bigaragara ko ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri kuko hari imyitozo myinshi ngororamubiri ikugorora.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyanyandikishije amagambo y'umweru avuga ngo sipoto medesine, aho harimo abantu benshi bari gukora imyitozo ngororamubiri, hariho ariteri, hariho imipira ndetse n'ibindi. Ni byiza ko nawe wakora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye agasengeri k'umukara akaba yicaye yambaye n'agasaha k'icyatsi ku kuboko kw'ibumoso, afashe agacupa karimo amazi bigaragara ko agiye kuyanywa.

Aha turahabona igishushanyo cyangwa insakazamashusho zigera muri eshatu zirimo amashusho menshi y'ubwoko bwa siporo umuntu aba akwiye gukora, biri kugaragara mu biziga bisa ubururu n'umweru.

Zzi ni imbago cyangwa se inkoni baha abantu bavunitse, ziri mu mabara y'umweru ndetse n'ibura ry'igitaka, zifite aho umuntu afata hasa igitaka n'akagozi kaba kariho kagaragaza ko ari nshyashya.

Igikoresho cyifashishwa na muganga ari kumva uko umutima w'umuntu utera, kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, utwo banshyira mu matwi turasa umukara.

umuntu uri kunywa amazi akoresheje igurude afatishije ikiganza, ari kunywa amazi arirabura. Amazi ni ingirakamaro cyane kuko atuma tugira ubuzima bwiza, kandi iyo uyanyweye bituma inzira zigogora zigenda neza, ukagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, nk'uko bigaragara uyu ni umukobwa wunamye ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho azirikiye imisatsi ye inyuma, akaba yunamye ari kwigorora.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo umupira w'amaguru uwo mupira wifashishwa bari gukina basikete n'uwo bifashishije bari gukina rugubi n'uwo bifashisha bari gukina umukino w'amaboko ndetse na kasike isa ubururu.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye ikote wicaye yambaye ikabutura, yarambitse n'ukuboko ku ivi, imbere ye hari ibikapu by'umukara, afashe gurudu isa umukara, arararaye ari kuyanywa, amazi ni ingirakamaro cyane kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Intoki ebyiri z'umuntu zambaye udupfukantoki cyangwa ga bisa umukara, biraciye intoki ziri kureguka, kugira ngo akayaga kaze gufata mu ntoki mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ishusho y'umugabo uraramye ari kunywa amazi mu gacupa gasa umweru agafashe mu ntoki. Ni byiza cyane iyo kunywa amazi kuko ni ingirakamaro cyane. Amazi agirira akamaro umubiri wacu ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ishusho y'umuntu ufite icupa mu ntoki, wambaye agapira k'umukara ari gusoma amazi. Ni byiza cyane kunywa amazi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, kuko bituma arushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Nawe nakugira inama yo kuzajya unywa amazi buri munsi.

Umuntu wambaye isengeri y'umukara yicaye arambuye amaguru yakojejeho amaboko, ubu bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri. Uyu muntu ntabwo agaragara mu maso.

Umugabo uryamye kwa muganga ku gitanda wambaye iby'umukara ndetse n'ipantaro y'itisi, hari abandi bagabo babiri b'abaganga bari kumwitaho bigaragaza ko bari kumukorera masaje kugira ngo umubiri we umere neza, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri.

Ahantu hari udukoresho dutandukanye, wakwifashisha uri gukora imyitozo ngororamubiri, harimo inkweto za siporo ndetse n'umugozi wasimbuka n'imbuto zitandukanye warya, bikagufasha kumererwa neza.

Agacupa ka nili karimo amazi meza cyane, ubona ko asa n'agacupa, kakaba gafite umupfundikizo w'ubururu, amazi ni ingirakamaro cyane, mu buzima bwacu bwa burimunsi.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho asutamye azamuye amaboko, yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara, birimo utubara duke tw'umweru, imbere ye hahagaze undi mugabo wambaye agapira k'ubururu w'umuzungu ndetse n'ipantaro y'umukara, bahagaze mu kibuga kirimo tapi isa icyatsi.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura k'umukara n'agapira k'umukara, akaba yazamuye ukuguru kumwe yagushyize ku rugo, akaba afatishijeho amaboko ye, bigaragara ko ari kugorora umubiri we.

Umubyeyi wajyanye umwana kwa muganga none muganga yambaye iby'ubururu n'agapfukamunwa, afite ikintu kimeze nk'ikirori ari kumutunga mu gangahanga, bigaragara ko ari gupima ngo arebe ko umwana afite imikurire myiza cyane.

Iki n'ikirango cyiri mabara y'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru, aho avuga ngo Regenerative Injection in Sport Medecine, ikaba ivuga uburyo bwo kwita ku myitozo ngororamubiri.

Igikombe cy'ikirahuri kiri gusukwamo amazi n'ibika ifashwe mu ntoki n'umuntu. Aya mazi agiye kunyobwa kandi aya mazi ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, ni byiza kuyanywa kuko iyo uyanyweye birinda indwara zigiye zitandukanye.

Abantu babiri bari gukina umukino wa Rugby, aho hari umugabo ufite ikintu kimeze nk'ipapayi cy'umutuku akaba ari umupira bifashisha, yambaye ikabutura y'umukara inkweto z'umukara n'agapira k'umutuku, ari kwiruka cyane aho ari gukina uyu mukino anezerewe.

Aka ni akuma batanga kwa muganga kari gusa umweru, gafite amapine y'umukara ndetse no mu rufatiro harasa umukara bigaragara ko kano kuma kifashishwa mu buryo bugezweho.

Aha turahorana agakarito kanditseho amagambo neustrorini, aho hariho amabara y'umuhondo, ndetse n'icyatsi. Hariho uducupa dupfundikiye, tuba turimo imiti y'ifu, abantu bisiga bamaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'umusore usutamye washinze ivi rimwe, washinze ukuguru kumwe, aho ari gukanda ku ivi rye bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura k'umukara, inkweto zifunze ndetse n'agapira k'ivu k'amaboko maremare.

Inyubako y'ibitaro itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hari umugabo uhahagaze ku rwego rw'ubururu n'abandi bari kumufasha, harimo umwe ufite akantu mu ntoki gasa umutuku.

Umukinnyi uri mu kibuga wambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'icyatsi amasogisi y'umukara imbere ye harambitse umupira w'umweru n'umukara, hari n'undi muntu wambaye inkweto z'umutuku, ikabutura y'umukara n'agapira k'ubururu umufashe ari kumuvura, hirya hari abandi bakinnyi bambaye imyambaro y'icunga n'umukara.

Ikimera kiri mu mabara y'icyatsi, gifite amababi meza cyane agiye atandukanye, inyuma yacyo harasa umweru hari n'indi nyubako itagaragara neza ariko yubakishije amatafari ahiye.

Agacupa karimo umuti usa icyatsi kanditseho amagambo asa umuhondo. Hirya yako hashushanyijeho igikakarubamba, bigaragaza ko harimo imiti yifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo bw'indwara za kinyarwanda zananiranye kwa muganga.

Ubwoko bw'ikimera gifite indabyo z'umweru ndetse gifite amababi agiye atandukanye, iki kimera cyifashishwa ahanini mu buvuzi gakondo, aho kivura indwara zigiye zitandukanye.

Amafoto y'utubido n'uducupa twinshi tugiye dutandukanye, turi mu mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi, dufite imipfundikizo isa: umweru, umutuku ndetse n'umukara wijimye.

Ubwoko bw'indabyo zigiye zitandukanye cyangwa se ibimera, aho bifite indabyo nziza cyane ariko ibi bimera ntabwo byifashishwa bataka ahubwo byifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda.

Agacupa k'umweru kariho amagambo menshi agiye atandukanye inyuma yako hakaba hijimye cyane hasa umukaratsiri hatagaragara, aka gacupa kakaba karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye by'umwihariko indwara za gakondo.

Ubwoko bw'ikimera buri mu mabara y'icyatsi aho byameze ahantu hari ibishagari by'insina byumye cyangwa ibibabi by'igifenesi, iki kimera kikaba cyifashishwa nk'umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda zitavurwa kwa muganga.

Ibi ni ibyatsi tuzi ku izina ryitwa amatovu, benshi bazi ko amatovu ahanda gusa, ariko siko bimeze amatovu ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za gakondo, zigakira burundu.

Ubwoko bw'ibimera bijya kumera nk'indabyo ariko byo byifashishwa mu buvuzi gakondo bizwi nka kapusine bifite amabara y'indabyo y'umweru n'umutuku ndetse n'umuhondo.

Abantu batandukanye, harimo umugabo ndetse n'umugore bari kuganira, hari uducupa twinshi cyane ducurumirizwamo imiti igiye itandukanye ya gakondo, utarebye neza cyangwa udasobanukiwe wagira ngo harimo inzoga zo mu bwoko bw'udupeti mitsingi.

Utubido turi mu mabara y'umuhondo, twandikishijeho amagambo y'umutuku, hashushanyijeho n'akanyoni kari kuguruka, dupfundikije imifuniko y'umutuku, ku ruhande hari uducupa tw'umweru natwo dupfundikiye.

Agacupa k'umuhondo n'akandi k'umweru ndetse n'utundi tumeze nk'utuvamo umuti witwa Colgate dushushanyijeho igikakarubamba, agacupa kamwe gafite umupfundikizo w'umutuku, w'umuhondo ndetse n'akandi gafite uwumukara.

Aka etajeri karimo uducupa twinshi tw'icyayi. Aho hari utubati turi mu mabara y'umutuku, umukara ndetse tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo

Uducupa tugera muri dutanu turimo umuti, turiho n'ibyapa by'umyeru dupfundikije imipfundikizo y'ubururu bwijimye ndetse n'ubururu bwerurutse, mo imbere hakaba harimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ubu ni bumwe mu bwoko bw'ibyatsi bya gakondo bikunze kwifashishwa bivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo cyane cyane indwara za kinyarwanda, ziba zaraniranye kwa muganga, ariko zagera muri gakondo zigakira.

Ibi ni ibimera bizwi nk'urumogi bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bivura indwara zigiye zitandukanye, ariko hari n'ababinywamo itabi, ariko amategeko y'u Rwanda ntabyemera, kuko uwo bafatiye muri ibyo bikorwa akatirwa igifungo.

Agacupa gapfundikiye neza kari mu mabara y'umweru, ariko kariho umukandara w'icyatsi, inyuma y'aho hari bagarawundi y'umukara cyane, kakaba karimo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Imbuto zigiye zitandukanye, zidufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze, hari indimu zisa umuhondo, ironji risa umuhondo risatuye, ndetse n'irindi risa icyatsi ritarahishira neza.

Imiti igiye itandukanye iri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse hejuru hari udukarito tugiye dutandukanye bigaragaza ko ibi byose biba bikubiyemo imiti igiye itandukanye, wakwifashisha mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Aha bari kwamamaza imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho hari amagambo yanditseho ngo ''Forever body care'' akaba ari uburyo bita ku mubiri bakoresheje imiti gakondo.

Uducupa dusa umweru n'icyatsi twandikishijeho amagambo y'icyatsi avuga ngo "foreva burayiti tugeda". Hakaba hashushanyijeho igikakarubamba bigaragaza ko ari imiti yifashishwa ahanini mu buvuzi bwa gakondo.

Iki ni ikibabi kiriho ibinini by'umweru bigiye bitandukanye, ibi ni bimwe mu miti yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho baba bavura indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa karimo umuti gasa ubururu n'umweru kandi infinite, uyu ni umuti ukoreshwa cyane cyane mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zagakondo kugira ngo umuntu uyirwaye akire.

Ubu ni bumwe mu bwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane indwara za gakondo harambitseho akantu k'umweru, bigaragara ko uyu muti ugiye gukoreshwa n'abavuzi gakondo bamenyerewe nk'abavuzi ba kinyarwanda.

Agacupa k'umweru kariho amagambo y'umukara, kakaba kariho n'udushushanyo turi mu mabara y'umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. Munsi hari akabara k'ubururu kanditseho ngo foreva.

Ahantu hari amabara y'umutuku wijimye ndetse n'icyatsi cyijimye. Ahari umutuku harambitse agacupa gapfunduye k'umweru n'uturabyo tubiri. Ahari icyatsi hari uducupa tubiri dushushanyijeho igikakarubanda.

Hano hari agacupa gasa umweru kariho icyapa gisa umutuku, hirya haranditseho amagambo avuga ngo k'umuryango, uvura: kurangiza vuba, gucika intege ndetse wongera akanyabugabo ku bagabo.

Agasekururo kifashishwa mu buvuzi gakondo aho bashyiramo amoko agiye atandukanye y'ibimera gakondo, barangiza bakayasekura bakavanamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara z'amarozi.

Amoko atandukanye y'ibyatsi bigiye bitandukanye byifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, aho bivura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye bikavamo n'imiti myinshi cyane, noneho bakavura indwara za kinyarwanda zikunze kuba zarananiranye mu bitaro.

Udukarito turimo imiti igiye itandukanye aho turi mu mabara y'umweru n'umutuku inyuma yaho hari igikuta gisa ubururu, hasi harasa umweru. Bigaragara ko hatangirwa serivise zigiye zitandukanye cyangwa ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo ivura indwara za kinyarwanda.

Iyi ni imwe mu miti gakondo igiye itandukanye, harimo ibyatsi, imbuto zimeze nk'indimu ndetse n'ibyatsi byumye, aho bikoreshwa mu kuvura indwara gakondo ziba zarananiranye kwa muganga zizwi nk'indwara za Kinyarwanda.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu akaba ari ku cyapa kirikwamamaza imiti gakondo igiye itandukanye ndetse ivura indwara zigiye zitandukanye zirimo iz'amarozi ndetse n'izindi zananiranye kwa muganga.

Udukuteri dusa umweru ndetse n'utundi dukoni tubiri turi mu ibara ry'ahantu hasa igitaka, munsi handitseho amagambo ngo ''Akagera medecine.''

Agacupa gasa umweru gapfundikije umupfundikizo usa umutuku, kanditseho amagambo ndetse hashushanyijeho n'igisiga kiri kuguruka, amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, bigaragara ko gakoreshwa mu buvuzi gakondo.

Agapapuro gafashwe n'ikiganza cy'umuntu bigaragara ko ashaje, kakaba kariho ibyatsi biseye, ibi byatsi biragaragara ko ari umuti wa gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Agasekuro kari gusekurirwamo imiti gakondo, hirya hari agasahani karambitsemo iyo miti bari kugenda basekura, hirya neza gato hari imiti myinshi cyane iharambitse y'ibyatsi, iri gusa mu mabara y'umuhondo ku ndabyo ndetse n'icyatsi ku mababi.

Agakarrito karimo imiti igiye itandukanye, kanditseho amagambo foreduze ari mu ibara ry'ubururu ndetse munsi hari andi ari mu ibara ry'umutuku. Kakaba karimo imiti yifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo

Iki ni ikimera kiri kuzamuka kikiri gito, aho gifite amababi agiye atandukanye, iki kimera biragaragara ko gikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa kaba karimo pomade kari gusa umweru n'umuhondo, aho kifashishwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane nk'imvune n'izindi ziba zananiranye za Kinyarwanda.

Ibimera by'amoko menshi agiye atandukanye biri mu mabara y'icyatsi, aho ibi bimera harimo kimwe gifite akarabyo k'umuhondo, bikaba byifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti cyane cyane gakondo, aho yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda kugira ngo umuntu uyirwaye akire bimworoheye.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, byifashishwa ahanini mu buvuzi bwa gakondo, aho byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane iza kinyarwanda.

Ubu ni bwoko bw'ikimera buba busa icyatsi gikunze guterwa ahantu mu mabuye, hariho abakibona bakagira ngo ni ururabyo rusazwe nk'izindi ariko uru si ururabo ahubwo n'ubwoko bw'umuti wa gakondo.

Ahantu hateye ibimera bigiye bitandukanye byo mu mabara y'icyatsi, aho ibi bimera harimo n'imbuto zimwe na zimwe, ibi byose bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo, bivura indwara zitandukanye.

Akantu k'urubaho karambitseho imiti ya tangawizi, aho iyi miti yifashishwa mu guteka icyayi ndetse inafasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inkorora n'ibicurane.

Agacupa gafite ishusho y'amayobera gashushanyijeho ibyatsi by'ibikakarubamba. Kanditseho amagambo ngo aloe jojoba. Kakaba gafashwe n'ikiganza cy'umuntu. Bigaragara ko harimo imiti ivura mu buryo bwa rusange.

Ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, hejuru yabyo hateretse akantu kameze nk'agasekuro karimo umuhini bigaragara ko bagiye gusekuriramo aya moko y'ibyatsi kugira ngo avemo umuti bifashisha mu buvuzi bwa Gihanga.

Iki ni igikarito kiba kirimo imiti igiye itandukanywe ikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara za kinyarwanda zidakira zibA zaniranye kwa muganga.

Aha turahabona icyapa cyangwa se agakarito kari mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku gafite miligarama magana atanu ndetse kakaba karimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo bavura indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa karimo umuti kanditseho Aloe Vera Gerry, aho uyu muti, ari umuti uvura indwara za gakondo. Inyuma yaho hari agasahani kariho voka ndetse kariho n'umutsima byose bivura indwara gakondo.

Agacupa k'umweru kanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, hejuru gashushanyijeho igisiga kiri kugutuka, hirya, hashushanyijeho ubwoko bw'imbuto zisa icyatsi zisatuye, aho bari kitwereka ko zifashishwa mu buvuzi gakondo.

Aha hari imiti ya gakondo igiye itandukanye, harimo ibinini ndetse harimo n'agakarito karimo iyindi miti ya gakondo yifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara za kinyarwanda zitavurwa kwa muganga ahubwo bahita bakohereza mu buvuzi bwa Gihanga.

Icyapa gishushanyijeho agacupakanditseho Forevs fokasi karasa umweru ndetse gapfundikije umumfundikizo w'umweru, hirya yaho hari ibyatsi bifite amadababi y'icyatsi, munsi harambitse ibinini bigaragaza ko bari kwamamaza ubuvuzi gakondo.

Uyu ni umuti witwa Royo Jeri, akaba ari umuti uvura indwara zigiye zitandukanye zigakira, uri mu gacupa gasa umweru ndetse gapfundikije umupfundikizo w'umweru.

Umuti w'igikakarubamba aho ushushanyije ku kabido gasa umutuku ndetse n'umuhondo, gafite umupfundikizo w'umutuku bakaba bari kwamamaza ko uyu muti w'igikakarubamba wifashishwa mu kuvura indwara zananiranye.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye, aho harimo kimwe gifite amabara y'icyatsi, ndetse iki kimera kikaba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, aho cyifashishwa kivura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara za kinyarwanda.

Amoko menshi y'ibimera bigiye bitandukanye, hari ibifite indabyo z'umutuku, umuhondo ndetse n'ibara ry'iroza n'ibitagira indabo n'ibifite indabo z'umweru.

Udukarito turimo imiti y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, aho hagiye hashushanyijeho umukobwa, iri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ayandi, bigaragaza ko harimo imiti myinshi cyane, ikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibimera bisa icyatsi, aho bari kutwereka ibifite utubabi duto cyane. Ubu bwoko bw'ibimera bukunze kwifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, aho baba bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, zirekeranye n'ubuvuzi gakondo, haba harimo inzobere mu by'ubuvuzi yambaye itaburiya y'umweru hari na etageri irimo uducupa tugiye dutandukanye turimo imitwe y'imiti ivura indwara zigeye zitandukanye.

Umugabo wicaye imbere y'ameza hakaba hari utumvirope ndetse n'uducupa dupfundikije imipfundikizo y'umuhondo n'ibindi bintu bijya gusa icyatsi wagira ngo ni intoryi, akaba ari mu isoko aho bacururiza nawe yagiye gucuruza imiti gakondo.

Utubido dutoya cyane dusa umuhondo, dufite imipfundikizo y'umukara, duteretse mu gikarito, ariko hari n'akandi kamwe kari hanze, gashushanyijeho igikakarubamba bigaragaza ko bari kwamamaza. Handitseho amagambo mu ibara ry'umukara.

Agacupa gasa ubururu kandikishijeho amagambo asa umweru, amagambo avuga ngo amavuta y'uruhu, aya mavuta akaba avura indwara nyinshi zigiye zitandukanye zifata uruhu.

Uducupa turyamye dutambitse tukaba turimo ibintu bijye bitandukanye, harimo uturimo ibijya gusa umutuku, umukara tukaba twanditseho n'ibyapa, urebye neza bigaragaza ko harimo imiti ya gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Agasahani k'umweru karambitsemo umuti cyangwa umutobe w'umuhondo, harambitsemo n'indimu, ku ruhande hari urubuto ruhishiye ndetse na tangawizi, bigaragara ko ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Uturabo twiza cyane, aho duteye ku bimera biri gusa icyatsi byameze ahantu mu gisambu, izi si indabo zifashishwa mu bukwe ahubwo ubu ni ubwoko bw'ikimera kivanwamo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Uducupa dutandukanye tugerekeranyije ahantu mu ka etajeri, turi mu mabara atandukanye y'umweru, ariko twandikishijeho amagambo agiye asa umweru n'ubururu, harimo agakarito kanditseho cumi n'umunani, bigaragaza ko iyi yose ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

aha turahabona icyapa kiriho ibimenyetso by'uruziga biri mu mabara y'umuhondo y'umutuku ndetse n'ibya haeteweho n'amagambo makumyabiri na kane akaruhukaberanye mirongo iwirindwi ntubyandikemo ngo na prakusho

Ibikoresho bya gakondo harimo umwuko urambitseho utuntu tw'umuhondo n'undi urambitseho utuntu tw'utunini. Hari ijage irimo indabyo nyinshi, hari uducupa tugiye dutandukanye harimo agafite umupfundikizo w'umuhondo n'umweru n'izindi ndabyo nyinshi zisa umweru n'umuhondo.